Abamama babiri n'umukobwa umwe baje ku ivomero ryubakiye gutwara amazi, injerekani nyinshi cyane zihari zirimo ubusa zitonze umurongo hakurya ye hariho insina z'ibitoki zihari n'ibiti binini cyane bihateye.

Abantu umwe, babiri, batatu harimo umumama umwe uteruye umwana w'uruhinja, akaba yamuzanye kwa muganga, undi ni arimo kumuha ubuvuzi bwo mu kanwa, imbere ye ku meza harambitse ibikoresho yifashisha atanga iyo serivisi.

Abantu benshi cyane bari mu nyubako mo imbere ikoreye amasuku wateyemo n'amarangi bambaye imyenda itandukanye umweriya akantu karimo ijosi ku mugozi utukura hakurya hariyo' ikintu kirishanyijeho ibishushanyo bigiye bitandukanye.

Umugabo ugeze mu zabukuru akaba yambaye ikoti ry'umukara n'ingofero afite umusatsi wajemo imvi. Barimo kumupima umuvuduko w'amaraso, imbere ye hari abaganga bahari, ameza harambitseho igitambaro cy'umweru, agacupa k'amazi.

Abantu benshi cyane bicaye hasi ku bisima mu nyubako itarimo kubona, hariho inkingi zigiye zizengurutseho, hagati hariho utwatsi dutoya tungana bakandagiye hejuru.

Abantu benshi cyane bishimye bamanitse amaboko barimo kubyina bari mu nyubako imbere iteye irangi ry'umuhondo hejuru harimo iriteye ry'umweru, nyuma hariho intebe z'imyeru n'ameza.

Ivomero aho bavomera amazi hari umwana usutamye no gu guterura indobo y'umuhondo iremereye cyane agiye kuyikorera, hejuru ye hariyo umugabo uhagaze ufite ingata mu ntoki ugiye guhita ayimushyira ku mutwe, hakurya hariyo urugo rwubakishije amatafari ahiye.

Mu nyubako mo imbere harimo abantu, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, abagabo n'abagore bambaye udupfukamunwa, inyuma yaho hariho amagambo ahanditse mu rurimi rw'Icyongereza ariko adasomeka neza.

Abantu benshi cyane harimo abana bambaye imyenda y'inifomo, bari mu rungano bareba imbere bamanitse amaboko bishimye, inyuma hari abandi bakuru harimo abazungu n'Abanyafurika, hariho urugi rufunguye rubari inyuma.

Mu nyubako nini cyane mo imbere harimo abantu bicaye ku ntebe z'imbaho, imbere yaho hariho undi ufite ameza imbere ye urimo kugenda yakira abo abantu hari amagambo agiye ahanditse ariko adasomeka neza.

Umuntu urimo kugaragara igice cy'amaboko gusa urimo gukaraba ahantu hejuru harimo guturuka amazi make cyane arimo kuza ajojoba hari ibisa irangi ry'ubururu bari mu nyubako mu imbere.

Abantu umwe, babiri, batatu harimo uwambaye imyenda y'abayisilamu n'ingofero ye undi yambaye itaburiya isa umweru nagapfukamunwa afite ikintu cy'icyuma mu ntoki akaba arimo kubimwereka nyuma yaho hari igiti kinini gihari cy'igihuru.

Abantu benshi cyane bicaye bambaye imipira y'umweru harimo n'abafite ingofero zitagiye zisa, bicaye ku ntebe zifite aho begamira, inyuma yaho hariho inyubako ihari iteyeho amarange n'ibiti bihari.

Abantu umwe ,babiri, batatu, bane, batanu harimo barimo gusuhuzanya abandi baganira bose bambayemo amakote harimo n'abambaye imyendaigiye idoze mu bitenge nyuma yaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza hariho n'imibare igiye ivagavanzemo .

Abanyeshuri benshi cyane bambaye imyenda y'ishuri harimo n' nabatambaye isa nk'iyabo imbere yaho hariho ameza harambitseho ibikoresho birimo kuvamo ibintu barimo gutega mu bikombe harimo ubwo amazi yujuje ubuziranenge, hakurya hari imisozi ihagaragarara.

Abantu benshi bahagaze barimo kwifotoza harimo abagabo, abagore bambaye imyenda igiye itandukanye, inyuma yaho hariho icyapa kihometse hariho amagambo handitseho mu ibara ry'umweru.

Inyubako nini cyane, ihari yuzuye iteyeho amarangi y'umweru, igisenge cy'amabati atukura, imihanda ya kaburimbo, ihubatse myiza cyane, imbere yaho hariho ubusitani bw'ibyatsi bito bigiye bingana, ikirere kirimo gusa umweru.

Abantu benshi cyane bose bari mu rungano barishimye barimo kugana ahantu hari ivomero, hasi hateretse ibasi itukura, bagenda bakaraba ibiganza byabo, inyuma yabo hari ibiti bihari byinshi cyane.

Abantu benshi cyane bahagaze imbere bose bareba mu gice kimwe, inyuma yaho hariho urugi rufunze, imbere hakabaho ameza harambitseho igitambaro cy'umweru, hariho mudasobwa hejuru n'umugozi wayo uyicaginga.

Abantu benshi cyane bahagaze hanze n'abandi barimo kwinjira mu miryango mu nyubako, hanze hari ikindi cy'amatente bubatse, igisenge cyaho gifashwe n'ibiti, idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ririmo hagati, ku gikuta hariho amagambo yanditse ariko adasomeka neza.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu, bambaye imyenda isa hejuru, imipira y'ubururu imbere yaho hari akantu handitseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza, mu mpine ngo Unicef aha bakaba bari mu nyubako mo imbere.

Inyubako iri hakurya yubakishije amatafari, harimo ikidirishya kitarimo ikintu mo imbere harimo indi y'ibyatsi umwana urimo kuvoma amazi ku kigega cyubakiye cy'umukara afite agakombe mu ntoki.

Abantu benshi cyane bari mu nyubako y'amatente biyubakiye, imbere yaho hari abana batoya cyane bari mu rungano bambaye imyenda y'ishuri mo imbere harimo udushati dusa, inyuma y'aho harimo umuntu umwe ushinzwe kubashyira ku murongo.

Abantu benshi cyane bari mu nyubako mo imbere bicaye, imbere yaho hariho ameza, ku ruhande rw'imbere hariho tereviziyo igaragaza amashusho, barimo kumva ikiganiro n'abandi bicaye imbere batarimo kuyireba, ku murongo inyuma yabo hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye aba mama, abagabo, abana b'impinja batoya bari munyubako mw'imbere bicaye bose ku ntebe zimwe bambaye imyenda igiye itandukanye itari mu bwoko bumwe.

Abantu benshi cyane bicaye mu nyubako mu imbere bose mu ntebe z'imikara zigamirwa, imbere yabo hariho ameza arambitseho ubucupa bw'amazi bafite amakaye n'amakaramu n'amatelefone arambitsweho.

Abantu benshi cyane abana bicaye hasi, abamama bakuru barimo kugenda babaha ibyo kunywa, imbere yabo hari umugabo wambaye impuzankano ze za polisi y'u Rwanda ishinzwe umutekano wo mu muhanda n'ibintu.

Mu nyubako mu imbere harimo abantu benshi bagiye bicayemo abambaye amadarubindi ibintu bigiye bitandukana mbere yaho hariho ameza arambitseho icyuma bifashisha bagaragaza amashusho amatelefone yabo n' n'ibikombe.

Abantu umwe babiri batatu bane, babiri muri bo n'abana abandi basigaye ni bakuru, bari ku ivomero kuvoma amazi bagenda bapompa bazamura amazi mu butaka, hakurya yaho hari ibyatsi byinshi cyane n'ibiti bigiye bihateye.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, ipantaro y'umukara ari ku ivomero, afite injerekani mu ntoki ariko nta mazi arimo kuza, arishimye arimo guseka, inyuma ye hari amazu n'ibyakatsi.

Abagabo babiri barimo gusuhuzanya, bose bambaye amakoti, amashati, umwe muri bo afite telefone mu kuboko kumwe, undi impapuro n'ibitabo, inyuma yabo hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Umumama uteruye umwana, imbere ye hariho ivomero ryubakiye, yaturutseho indobo y'umukara irimo kujyamo amazi. Hakurya ye hariyo inyubako zihari n'ibiti bihateye, ikirere kirimo gusa ubururu.

Abantu bahagaze bose bateruye abana b'impinja mu ntoki zabo, bakaba bambaye udupfukamunwa, umwe afite isaha ku kuboko. Bari mu nyubako mo imbere, ibirahure birafunze, hariho igikuta giteye ibara ry'umuhondo.

Abantu umwe, babiri, batatu, abagore babiri n'umugabo umwe barimo guterura imifuka irimo ibintu bagenda bayigereka hejuru yindi. Hakurya y'aho hari amazu ahubatse, ibiti binini bihateye n'ikirere kirimo gusa ubururu.

Abantu benshi cyane bari ku ivomero, bose baje gutwara amazi, abafite ubuvido buto, amajerekani, indobo zigiye zitandukanye, hakurya yaho hariho ibiti bihari byinshi cyane.

Ubana umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, barindwi, barimo kugaragara igice gitoya, bari mu mazi menshi mu mugezi barimo koga bose bambaye ubusa, bakaba bari mu rungano barishimye, hakaba harimo urumuri ruri gutuka mu kirere.

Abantu benshi cyane harimo abakuru b'abakecuru, abana n'umumama umwe wambaye umupira urimo amabara y'icyatsi n'umweru n'umutuku, arimo gukora mu jisho ry'urwo ruhinja ruri imbere ye.

Abantu babiri b'abana b'abakobwa bari mu rungano, imbere y'aho hariho ivomera ariko ritarimo kuzana amazi, bafite indobo mu ntoki zo barimo guterura bakorera mwe, hakurya hari inzu ihari, ihubatse umusozi uteyeho ibyatsi byinshi cyane n'ibiti bihari.

Umwana w'umukobwa wambaye umupira w'amoboko maremare, ishati mo imbere y'umweru n'ijipo, akaba ahagaze imbere ahantu arimo gukaraba intoki ze, hakurya hari amazu ahari ahubatse, ibiti binini cyane bihateye.

Mu nyubako mo imbere harimo abantu batatu, imbere yaho hariho ameza barambuyeho amakaye manini cyane n'ikaramu barimo kugenda bandikamo. Hakurya yaho hariho ububati bugiye burimo ibintu.

Mu nyubako mo imbere hateye irangi ry'umweru, amadirishya yafunze n'inzugi, harimo abantu benshi bicaye harimo umugabo umwe wambaye itaburiya y'umweru batambitse amaboko barimo kubaha ikiganiro agenda abazengurukamo bose.

Abana benshi cyane umwe babiri, batatu bane, bari ku ivomero rimwe bagenda bapomba, hari ikintu banura bongera bazamura amazi aturuka mu butaka, imbere yaho hariho injerekani, idatezeho amazi, arimo kumenekera hasi, hakurya hari ibiti byinshi cyane bihari n'ibyatsi bitoya.

Mu nyubako mo imbere harimo abantu benshi bicaye, abahagaze bateruye abana mu ntoki afite ifishi yo kwa muganga. Amatara arimo kwaka mo imbere muri iyo nyubako hateyemo irangi ku bikuta no hasi.

Abantu babiri bari ku ivomero bose barimo kuvoma hagiye hariho amarobine abiri, hakurya yaho hari ibiti byinshi cyane bihateye birebire, hasi hakaba n'ibyatsi bitoya bigiye bivanzemo.

Ahantu mu rugo rw'abantu inyuma yaho hariho uruzitiro rw'imiyenzi n'imihati izengurutsemo, mu imbere harimo insina ziteyemo akantu banikaho amasahane mu gihe bamaze kuyoza kubakishije ibiti.

Abantu benshi cyane bicaye mu nyubako, harimo abagore n'abagabo b'abanyafurika, harimo n'abanyamahanga b'abazungu, inzu barimo nta rumuri rurimo kugaragaramo, ariko iteye irangi ku gikuta.

Abantu babiri harimo umugabo umwe wambaye ishati na karuvati n'ikote n'amudarubindi, n'undi mukobwa, imbere bafite igikapu cyandisaho ngo sura u Rwanda. Inyuma yaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Umwana w'umukobwa, wambaye imyenda y'ishuri, hasi ijipo, n'ishati y'amaboko magufiya, imbere akandagiye kuri kandagira ukarabe, arimo gukaraba intoki ze, amazi agwa mu ibasi iteretse hasi, inyuma ye hari igiti kinini cyane, gifite amashami manini.

Abantu benshi bicaye mu nyubako mu bice bigiye bitandukanye, hari abagabo babiri bari ku gice cy'imbere bambaye amakote, imbere hari ameza arambitseho mudasobwa, indangururamajwi n'ubucupa bw'amazi. Inyuma yaho hariho amagambo ahanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu benshi cyane bicaye mu mahema bubatse, harimo abashinzwe umutekano w'abantu n'ibintu bya bo mu gihugu cy'u Rwanda bita abapolisi, imbere ya bo hahagaze umugabo ufite indangurumajwi urimo kubaha ikiganiro.

Abantu benshi cyane bari mu nyubako bicayemo, harimo abahagaze barimo kugenda bazenguruka, inyuma yaho hariho ahantu handitse amagambo ariko akaba adasomeka neza. Igikuta giteyeho irangi ry'umuhondo.

Mu nyubako mwo imbere harimo abantu batatu, umuganga, umumama n'umwana basamishije barimo kureba mu kanwa, bacometsemo akantu bamuhaye imiti; urugi rukaba rufunguyeho agace gatoya. Mu nyubako mwo imbere hakaba hateye irangi.

Abantu batatu harimo abana babiri n'umumama umwe uteruyeho injerekani ku ivomero, arimo kuvomamo amazi, hakurya yabo hariho ibiti binini cyane n'ibyatsi.

Abamama batatu barimo kuvoma ku ivomero bagenda bapompa amazi azamuka hakaba mbere ye hariho ikintu k'ikibumbano arimo kudahamo amazi, inyuma yaho hariho igikuta kihubatse kizengurutseho igice kimwe.

Abantu benshi cyane bambaye imyenda isa hejuru y'imipira, bose barimo kubaka akarima k'igikoni kuzuye barimo guteramo imboga z'ubwoko bumwe bazengurutsemo.

Abantu umwe babiri bose bakaba bicaye hasi harimo umugabo umwe undiumuganga wambaye taburiya y'umweru ufite ikayi nini cyane n'ikaramu na telefone mu ntoki urimo kwandika inyuma ye akaba ari amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Umwana mutoya cyane wambaye umupira urimo uturongo, n'agakabutura arimo gukaraba afite isabune mu ntoki hari undi urimo kumusukirara ufite ishagi y'amazi make make cyane imbere ye hariho utumeza dukoze mu biti.

Abantu bahagaze harimo umwe b'Abanyarwanda abandi b'abanyamahanga, hari umwana wikoreye akavido ka cumi n'atanu kariho umupfundikizo, mu imbere harimo ibintu bisukika yikoreye, umwe afite telefone arimo kumufotora.

Inyubako yuzuye hasi harimo amakaro asa umweru, ku nkuta hateyeho n'irange, harimo abaganga babiri bambaye imyenda yabugenewe n'ingofero no n'ubupfukamunwa, hari umurwayi barimo gupima umuvuduko w'amaraso imbere yabo bafite mudasobwa.

Abantu benshi cyane harimo umupapa umwe urimo gureba umwana bateruye, n'abandi bagenda bafite impinja, bari mu nyubako imbere ifiteho irangi ry'umweru, hakurya hakaba hariho n'ahandi hantu harimo kugaramo ibyatsi biri inyuma.

Inyubako iri hakurya, iteyeho amarange y'umuhondo mbere hariho amagambo ariko adasomeka neza. Hejuru y'igisenge hariho pano zikurura umuriro zikoresheje umurasire w'izuba. Hasi mu mbuga harimo abamama n'abapapa bahicaye ku ntebe ziriho zegamirwa harimo umwe wambaye imppuzankano ya daso ishinzwe umutekano, abaturage n'imodoka iri ku ruhande.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane bose bahagaze umwe arimo kubaha ikiganiro abandi bamuteze amatwi. Inyuma yaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza no ku mpande.

Umwana wambaye umwenda utukura uri ku ivomero yafunguyeho kuri robine arimo gukaraba intoki, yirinda umwanda agira isuku mu ntoki ziwe, hagiye hariho ibiti binini bihateye.

Umwana w'umukobwa uri ku ivomero rimwe bagenda basunika ikintu bapomba mu butaka amazi azamuka afite indobo z'imyeru, arimo kuzikorera amasuka azosa hakurya ye hariyo ibiti binini cyane bihateye byakuze.

Abantu benshi cyane harimo abagabo n'abagore abambaye ingofero abateze ibitambaro mu mutwe bafite impapuro mbere ariko zirimo amagambo adasomeka neza inyuma yaho hariho ibyatsi byinshi cyane inyubako ntoya irimo ihubatse.

Inyubako mo imbere harimo abana bishimye, umugore munini cyane, n'umugabo wambaye ikote n'ishati n'ipantaro na karuvati, ubwanwa, umusatsi yawogoshesheje akawumaraho. Inyuma ye hariho amagambo ahanditse, ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Umwana wambaye umupira w'amaboko maremare n’agakabutura k'umutuku n'inkweto zifunguye ari kw’ivomero arimo kunywa amazi atezeho ibiganza aciye mu ntoki akagwa mu ndobo iri hasi hakurya hari inzu ihari igaragara inkingi ziyifashe.

Inyubako nini cyane igeretse y'itaje iteyeho amarangi y'umuhondo, ibirahure birasa ubururu n'ikirere niko gisa, imbere yaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza n'imibare irimo igiye ivangavanzemo.

Mu nyubako mo imbere harimo abantu umwe, babiri, batatu, bane, abaganga babiri n'umukecuru umwe wicaye, ku buriri hariho umwana uryamye urwaye barimo kuvura uko ari babiri hakurya harihoho igikuta gisa n'ibara ry'icyatsi.

Abantu benshi cyane bicaye mu nyubako, mu imbere harimo abagore n'abagabo imbere yaho hariho amezi arambitseho ibicupa by'amazi, harimo umwe ufite indangururamajwi urimo gutanga ikiganiro.

Abana umwe, babiri, batatu, bane, batanu batandatu bose bambaye kake imyenda y'ishuri, bari kumariba bavomeraho batatu bose barimo gukaraba bakarabira mu ndobo zirambitse hasi z'imihondo.

Umwana umwe urimo kurira yunamye ku iri arimo kuzana amazi arimo no gucira n'inkonda, hakurya ye hari igikuta kihubatse gifite irange ry'umweru, akaba yambaye ipantaro isa icyatsi.

Ivomero rimwe bavoma bapomba hejuru bakura amazi mu butaka, hariho umwana umwe urimo kuvoma utezeho akavido. Abandi bari hakurya bararakikije, barimo kureba. Hakurya hari ibiti biteye n'ibyatsi bigufi.

Iri bara ririho aho bavoma hamwe, habiri, hatatu, hose hariho abantu babiri babiri b'abanyeshuri bambaye imyenda ya kake, harambitseho indobo z'imihondo n'kavido, hakurya hari igiti cy'umukindo gihari kinini cyane cyakuze.

Mu kigo cy'amashuri abana biga mu mashuri abanza, abakobwa n'abahungu bicaye, bakaba imbere yabo hariho amasahane, hari ibiryo barimo kugenda bafata. Ikibaho kiri inyuma yaho handitseho imibare n'amagambo.

Ahantu hanini cyane bubatse bazengurutse mo hagati harimo amazi bagiye bashyiramo, hejuru hakaba hariho ibyuma biriho byambukiranya ukuntu umuntu yazamo agahagararamo areba mo hasi, hakurya hari ibiti byinshi cyane.

Mu nyubako mo imbere iteyeho amarange y'umuhondo, amadirishya afunze n'amarido agiye ariho bakuyeho mo imbere harimo abantu bicayemo ku ntebe zegamirwa, imbere yaho hariho ameza ariho ibitambaro by'imyeru n'ubururu harambitseho ibikapu byabo n'uducupa tw'amazi.

Abantu benshi cyane harimo abicaye abandi bahagaze inyuma bose barimo kureba imbere, nyuma yaho hariho igipapuro cyanditseho amagambo ariko atarimo gusomeka neza, igikuta giteye irangi ry'umweru.

Umumama uteruye umwana imbere ye hari umugabo wambaye amadarubindi, ufite isahani iriho ibiryo arimo gutamika umwana umuri imbere, hakurya hari abandi barimo kugaragara ibice byo hejuru no hasi.

Abantu benshi bahagaze mu nyubako mu imbere, bambaye imyenda isa hejuru y'amataburiya y'imyeru n'undi umwe ikanzu itukura idasa nk'iyabo, bose barimo kureba hejuru ibipfunsi babifashe bose barimo gufata ifoto imwe.

Umumama uhetse umwana mu mugongo, afite indobo iriho umupfundikizo utukura, awufite mu ntoki arimo kuwoza, imbere ye hari iriba ariko ritarimo kuzana amazi, hakurya hari ibiti byinshi cyane n'ibyatsi bitoya bihari.

Abantu benshi cyane bahagaze bose bareba imbere ku masikariye agenda asumbana nabo baragenda batareshya, inyuma yaho hariho amagambo ahanditse mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'ubururu.

Abantu benshi cyane bari mu rugano bambaye imyenda hejuru ijya gusa, Imbere yaho hariho umugabo uhagaze imbere ufite akantu mu kiganza, hakurya yaho ku gikuta hometseho igipapuro cyanditseho amagambo ariko adasomeka neza.

Abantu benshi cyane harimo abamama, abana, abo bahetse, abambaye amataratara, inyuma yaho hariho ibiti birimo kugaragara, bose bahanze amaso imbere bakurikiye ikiganiro barimo kureba imbere yabo.

Abana umwe babiri batatu bane batanu batandatu, bambaye imyenda y'iniforomo, ariko bakaba bafite imipira igiye itandukanye, bose bakaba bafite ibikombe barimo kunywa, ku ruhande hakurya hakaba hariho ikigega barimo gukuramo ayo mazi.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda isa idoze mu gitenge, arimo gukaraba amazi agwa mu ibase ihari y'umukara, hakurya hari urugo ruhari ruhubatse amatafari arukoreshejeho ni akoze muri sima.

Abantu benshi cyane harimo umumama wicaye arimo konsa umwana, undi uhagaze umuteruye imbere hari umujyanama w'ubuzima ushinzwe kwita ku bana bakiri batoya, hakurya y'aho hari inyubako ihari yubakishije amatafari ahiye.

Abantu benshi cyane baje kuvoma bafite amajerekani, amagare ahaparitse hakurya, harimo umumama umwe wambaye agapfukamunwa afite agakapu mu nda, robine irubakiye hakurya hari ibiti byinshi cyane bihari.

Inyubako nini cyane zubatse mu buryo bugiye butandukanye, izigeretse, izitageretse ngufiya zifite amabara agiye adasa, ikirere kirimo gusamo ibara ry'umweru wijimyemo cyane, harimo agakara gakeya.

Ivomero riri munsi y'umuhanda hariho umwana urimo kuvomamo hasi hejuru hari undi wunamye urimo kumutobera ayakoramo, mu muhanda harimo abandi benshi barimo kugenda bambaye imyenda y'ishuri bavuye ko ikigo cy'amashuri.

Abana benshi cyane, bose barimo kurwanira kujya gukora ku ivomero ryubakiye riri ahagana hakurya rizana amazi, inyuma yaho hari ibiti binini cyane bihateye n'ibyatsi bihari byinshi.

Ikiyaga harimo umumama wambaye umupira w'umuhondo n'jipo iri mo uturongo afite ijerekani y'umuhondo arimo kuvomeramo amazi, hakurya ye hariyo ibigunda byinshi cyane n'igare barimo koza.

Abantu umwe babiri batatu bane batanu bataratu barindwi bose bahagaze bareba imbere barimo kwifotoza ifoto y'urwibutso, harimo abamama n'abapapa bari mu rubaraza rw'inzu, imbere yarwo hariho amagambo ahanditseho mu rurimi rw'Icyongereza.

Abantu benshi cyane, harimo abambaye imyenda yo kwa muganga, niy'abajyanama b'ubuzima, bari ahantu hari amatafari ahiye hasi bashashe, hakurya hari ibiti byinshi cyane bihateye.

Umwana wambaye imyenda ya inifomu yo ku ishuri yambayeho n'ishapure mu gatuza, arimo gukaraba intoki inyuma ye hari inyubako ihari yuzuye yubakishije amatafari ahiye.

Mu nyubako mu imbere harimo umuganga wambaye imyenda y'akazi, agapfukamunwa n'ingofero mu mutwe, imbere ye hariho ibyuma byinshi cyane n'ikindi gisa umukara bimeze nk'ikintu kigaragaza amashusho ariko kitarimo kwaka.

Abantu babiri harimo umumama ugeze mu zabukuru wipfutse umunwa afite ikibazo. Undi ni umwana w'umukobwa urimo kumuganiriza agenda amuhumuriza afite n'ikintu mu ntoki. Hakurya yaho hari inkwi z'imyase zihegetse zikaba zifashe ku gikuta cy'inzu.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo urimo guseka afite ubwanwa bucongesheje, umusatsi mutoya mumaso yahumirije aragaragara igice cyo hejuru gusa inyuma ye hari ibara ry'umweru.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda n'ingofero mu mutwe akaba yunamye afite agatambaro k'umweru yapfutse ku maso abababaye, arimo kurira inyuma ye hariho ibintu bifiteho amabara agiye avangavanze.

Umugabo ugaragara igice cyo hejuru gusa yambaye ishati y'amaboko maremare, nta musatsi afite yariyokoshesheje, afite indangururamajwi mu ntoki ze, arimo gutanga ikiganiro, imbere ye harimo amagambo ahanditse ari mu rurimi rw'icyongereza.

Urupapuro rw'umweru hariho amagambo yanditseho mu rurimi rw'Icyongereza ngo Isange One Stop Centre ry'Ikinyarwanda, hariho ikirangantego k'igihugu cy'u Rwanda n'icya Polisi y'u Rwanda gishushanyijemo inuma, hasi hakabaho n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Umwana w'umukobwa wambaye isengeri y'umukara, ipantaro y'ikoboyi, akaba afite n'umusatsi mwinshi, arishimye arimo guseka, akaba yicaye mu kantu kazengurutse, akaba atagwa inyuma ye hariho n'ibyuma bizengurutseho.

Umwana wicaye hasi wakuyemo imyenda wambaye ubusa, yicaye ahantu hasa nabi, igikuta cyari giteye irangi ry'umweru, ariko nacyo ibara ryarahindutse, kikaba kitakimeze neza nk'uko cyari kimeze.

Umugabo w'igikara wambaye umupira urimo kugaragara igice cyo hejuru gusa, urimo kurira ibimwira byamanutse, ureba nabi cyane amaso yatukuye, afite ibibazo byinshi cyane ahanze amaso imbere.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, ipantaro n'inkweto zifunze, ufite ubwanwa, umusatsi yogoshesheje, isaha ku kuboko, imbere hariho amagambo ahanditse mu rurimi rw'icyongereza n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo wicaye wambaye imyenda myinshi cyane wifubitse yambaye ingofero hejuru isa ku kuboko, ibiganza yabihuje arunamye arimo gutekereza afite ibibazo byinshi cyane, ku ruhande hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Umugabo wambaye imyenda mibi cyane yabaye ibicocera akaba afite umusatsi wamwereyeho yagiye akaraga ubwanwa bwagiye buzamo imvi, akaba yasamye arimo kuvuga inyuma ye hakaba hari inyubako.

Umumama wambaye isaha ku kuboko, ijipo y'igitenge n'umupira uteze igitambaro mu mutwe, yicaye ku ntebe y'urubaho wenyine, inyuma ye hariho igikuta gishushanyijeho indabo.

Abantu benshi cyane ariko harimo umwe ufite ikibazo cy'uburwayi cyane, bamufashe mu ntoki akaba yambaye imyenda itamufasheho neza, afite umusatsi mwinshi cyane utogoshe imvura ikaba yamunyagiye.

Abantu benshi cyane, bicaye mu dutsiko tugiye dutandukanye, bambaye udupfukamunwa, abandi barahagaze. Hari imodoka ifunguye, irimo ibintu mo imbere, itarimo kugenda, hejuru hariho shitingi iriho, isa icyatsi.

Umusaza ukuze cyane ugaragara igice cyo hejuru gusa yambaye ishati y'ubururu, umwitero w'umuhondo, umusatsi mwinshi cyane yaziritsemo igitambaro mu mutwe, amenyo y'imbere akaba yaravuyemo harimo ibihanga.

Mu nyubako y'imbere harimo abantu benshi bicaye mu ntebe zegamirwa, undi umwe ari imbere umwana w'umukobwa wambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara, ufite imisatsi igwa inyuma, umumama umuri imbere afite isakoshi mu ntoki yambaye isaha ku kuboko arimo kumubwira ibintu akoresheje indangururamajwi.

Umukecuru ugeze mu za bukuru wambaye imyenda n'ikote inyuma, igitambaro mu mutwe afite ibintu mu ntoki harimo ibyatsi arimo kugenda yihumuriza; agati kari ku ruhande hariho uducupa tw'amazi. Inyuma hari abantu benshi bahari.

Abantu benshi cyane harimo umugore w'umukuru w'igihugu Jeannette Kagame, inyuma hariho akantu kubatse hariho ikiranteko k'igihugu cy'u Rwanda, inyubako nini cyane y'itaje iri inyuma kure.

Umugore ufite umusatsi usokoje neza uteyemo kanta usa umukara cyane, arishimye, ateruye umwana mutoya urimo guseka nawe utaramera amenyo, inyuma ye hari igikuta cyubatse n'amatafari ahiye.

Abantu benshi bahagaze harimo abapapa n'abamama n'abakobwa bose barimo kureba imbere bameze nk'aho bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yaho hariyo abyapa byanditseho mu rurimi rw'icyongereza n'ibiriho bishushanyije bagenda batanga.

Umumama wicaye ku ntebe y'urubaho wambaye ishati n'igitenge, ari mu nyubako imbere iteyeho irangi igice kimwe yasenyutse ahagaragara amatafari, idirishya hejuru ye rirafunguye.

Umusaza ugeze mu za bukuru wambaye imyenda y'imicocera, igitambaro mu ijosi, akaba nta nkweto yambaye akoze hasi asinziriye hakurya hari igare rihagaze mu mutaka.

Umumama ufite umusatsi yaboshye ugwa inyuma mu mugongo yambaye ishati idoze mu gitenge haragaragara igice cyo hejuru gusa, inyuma ye hari inyubako icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Mu nyubako mo imbere, harimo umumama umwe wambaye imyenda y'imyeru, amadarubindi n'abandi bamuri inyuma, bagenda bicye mu buryo bugiye butandukanye, bakora utuziga tugie dutandukanye, hari ameza aharambitse, hariho ubucupa bw'amazi, akaba afite n'ikaramu mu ntoki.

Umumama wambaye umupira urimo uturongo tugiye utambitse, igitambaro mu mutwe n'umudari mu izosi. Afite isuka mu ntoki ze akaba yikoreye igitebo kirimo ibyatsi, hakurya ye hari inzu isakaje amategura.

Abantu babiri harimo umwe ugeze mu zabukuru akaba yashyize ukuboko ku itama, yambaye imyenda itukura, afite agahinda n'ingofero mu mutwe. Undi umuri imbere yambaye amadarubindi, arimo kumuhumuriza amuganiriza.

Abantu benshi cyane harimo abambaye imyenda isa y'ubururu hejuru y'imipira yiganjemo abandi idasa ivanganzemo, barimo gukora imiganda y'igikorwa yateza imbere abaturage.

Abantu babiri umwe yambaye imyenda y'imicocero umusatsi rwamwewereyeho, arimo gusuhuza undi usa neza cyane w'umusirimu bari mu nyubako imbere iteyeho irangi ry'umuhondo.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu bose bicaye ku ntebe z'urubaho imbere yaho hariho inyubako yubakishijeho igiteye icyondo inyuma urugi rufunguye amadirishya abiri yo akaba afunze.

Umugabo wambaye ipantaro inkweto z'umukara ni ishati yamako maremare kuba idafite ikora n'amadarubindi inyuma ye hari inyubako nziza cyane yuzuye n'ibyatsi biteyeho imbere yaho.

Mu nyubako mo imbere, harimo intebe bateye, zose zegamirwa zizengurutse, harimo iziciyemo abantu, abandi baticayemo, harimo abahagazemo hagati, buri intebe yose hagiye haraho agacupa k'amazi.

Abantu babiri uwa mbere yambaye ikote arunamye imbere hari ururabo hari ibintu arimo kugenda yibuka, hakurya hari undi wambaye umwenda ugaragaza yuko afite akazi arimo kugenda ahakora agenda ayobora abantu.

Umumama umwe uteruye umwana undi yamwicaye ku ruhande, imbere yaho bafiteho intara irambitseho mironko irimo ibintu, inzu y'ibyondo, urugi rufunguye, ahagana hasi harimo umwenge umuntu yacamo.

Abantu benshi cyane bicaye bakoze utuziga, harimo n'abahagaze barimo kugenda babagenzuramo, hasi hariho utwatsi dukeya tugiye turiho, ahandi ni itaka.

Abantu benshi cyane bahagaze bateruye abana, bafite amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda bayamanitse hejuru, barimo kwamamaza umuryango wa FPR, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu bivangavanze.

Abantu babiri harimo umugabo umwe wifashe ku gahanga akaba yubitse umutwe arimo gutekereza ibintu byinshi bigiye bimubabaje, undi ari hakurya yamukojeho ukuboko kwambaye isaha arimo kumuganiriza agenda amuhumuriza.

Umwana wambaye umupira w'umukara ugaragara igice cyo hejuru gusa afite umusatsi mukeya akaba yikoze mu mu maso afite agahinda ameze nkaho arimo kurira. Inyuma ye hari igikuta k'inzu.

Mu nyubako mu imbere harimo abantu benshi cyane abakobwa, abagabo bose bahagaze, imbere yaho hariho intebe zihateye harambitseho hejuru amakaye, ariko hakaba nta kindi kintu kiriho.

Abana benshi cyane bicaye hamwe bishimye cyane, abandi barimo kureba imbere bahahanze amaso, bambaye imipira y'imihondo hejuru mu mutwe, utundi tw'utweru tuzengurutsemo.

Umugabo wambaye ishati y'igitenge ndende, terefone mu ntoki ye uraramye urimo kureba hejuru, akaba yegamye ku gikuta cy'inzu, akaba ameze nk'aho afite ibibazo bitandukanye.

Umugabo ukuze cyane ugeze mu za bukuru, yambaye ishati n'ingofero mu mutwe n'umwitero uri ku rutugu, icumu mu ntoki, arishimye arimo guseka, amenyo y'imbere yavuyemo yashizemo, arashaje.

Mu nyubakomo mo imbere harimo umumama wambaye igitenge n'umupira n'igitambaro mu mutwe, hari umugabo umuri imbere ufite terefone irimo kwaka urimo kumubaza ibintu, ameza arambuyeho igitambaro cy'umuhondo hariho agacupa k'amazi hejuru.

Imodoka nini cyane ihagaze imbere yaho hari amagambo handitse mu rurimi rw'Icyongereza, hakurya hari abantu bahicaye n'undi mumama urimo kugenda, ibiti bihateye n'amazu ahari, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu byivangavanze bibyara umukara.

Abantu babiri umwe wasamye urimo kugaragaza amenyo ye, undi ni umuganga yambaye ga mu ntoki, afite akantu arimo kumutunga mu kanwa, hakurya ye hari igikuta gihari giteye irangi ry'umweru.

Mu nyubako mo imbere harimo abantu babiri, umwe ni umwana, aryamye ku gitanda, undi ni umuganga yambaye imyenda yo mu kazi, amadarubindi, agapfukamunwa, ga mu ntoki n'isaha ku kuboko, yamubumbuye, arimo kumujomba ibintu agenda amuvura.

Mu nyubako mo imbere, harimo abana benshi cyane bambaye imyenda ya inifomo; n'undi umwe mukuru ufite umusatsi, bazamuye amaboko hejuru bishimye. Ibirahuri birimo birafunze, ntago amadirishya ubwo afunguye.

Umusore ugaragara igice cyo hejuru gusa wambaye amadarubindi, urimo guseka ufite ubwanwa ukuboko kwe yafashe urutoki arimo kurushyira ku itama akaba arimo kugaragara n'amatwi ariko igice cy'agahanga cyo ntawakibona.

Umwana w'umukobwa wambaye ingofero y'umweru, ugaragaraho igice cyo hejuru gusa wasamye, ugaragaza amenyo, hari akuma arimo gukozamo gafite urudodo muri ayo menyo yiwe.

Umugabo wishimye wambaye umupira w'umweru urimo guseka hejuru hariho umusatsi yagiye aboshye ku mpande nawuriho afite akagozi yatambitse imbere hakurya hari undi muntu urimo kumureba barimo kugenda baganira.

Umwana w'umukobwa usetse utamiyemo ikaramu mu kanwa, afite umusatsi mwiza cyane yambaye isengeri y'umweru, aragaragara igice cyo hejuru gusa arimo kwireba mu ndorerwamo iri imbere ye.

Umuntu uri kugaragara igice cyo mu kanwa gusa akaba yasamye bakuyemo iryinyo barikurishijemo icyuma cy'igipensi aho ryavuye hasigayemo umwobo muremure cyane harimo ibara ry'umutuku ko hasigayemo amaraso.

Abantu babiri harimo umugore umwe n'umwana, bose bakaba bagaragara igice cyo hejuru gusa bafite imisatsi, bambaye amasengeri asa y'imyeru. Inyubako iri inyuma yaho iteyeho irangi risa.

Umugabo ugaragara igice cyo hejuru gusa, akaba yasamye afite akantu gasa icyatsi arimo gukoza mu menyo akora isuku, ubwanwa busa neza cyane akaba yikuye ntakintu yambaye ku mubiri hejuru.

Abantu babiri, harimo umugabo ugeze mu za bukuru wagiye kwa muganga kwivuza, undi ni umuganga yambaye imyenda y'akazi n'agapfukamunwa, yamubumbuye mu kanwa arimo kurebamo.

Umugabo wambaye umwenda w'umukara, nta musatsi afite mwinshi, yambaye impeta ku kuboko, afite uburoso bw'amenyo arimo guhanagura amenyo yiwe yireba mu ndorerwamo, inyuma ye hari ahantu harambuyeho irido.

Umugabo umwe wicaye ugaragara igice cyo hejuru gusa, urimo guseka, ufite umusatsi mukeya n'ubwanwa, imbere ye hariho umuganga wambaye ga mu ntoki, ufite urushinge agiye kumutera ku izosi.

Abana benshi cyane bahagaze bafite kogati iri mu menyo n'uburoso barimo gusukura amenyo, n'ubucupa mu ntoki burimo amazi barimo kugenda bakoresha, inyuma yaho hariho ibyatsi bitoya.

Mu nyubako mu imbere iteyemo irangi hasi no hejuru hakurya hakaba harimo idirishya rinini cyane n'ikirahure ariko rikaba hari rifite urumuri ririmo gukura hanze ruzamo imbere, harimo icyuma cy'ikoranabuhanga hariho igitanda umuntu yaryamaho.

Umugabo ugaragara igice cyo hejuru gusa yambaye umupira w'umweru, afite ubwanwa bwogoshe bungana, yabumbuye amenyo ye yashyizemo agashumi k'urudodo arimo kugenda akurura.

Umurwayi uri kwa muganga wicaye ku ntebe yegamirwa arasamye, mbere hariho umuganga wambaye agapfukamunwa, amataratara ari hejuru ku gahanga yamubumboye akanwa hari icyuma arimo kumujomba mu muhogo.

Umugabo uri mu myaka ijya kuba mikuru, ugaragara igice cyo hejuru utambaye imyenda, wasamye urimo kugaragaza amenyo ye yose yafashemo akagozi k'umweru, agatambikamo hagati mu menyo.

Umugabo ugaragara igice cyo hejuru gusa, ufite umusatsi muke n'ubwanwa, wishimye urimo guseka ugaragaza amenyo ye, yambaye umupira mo imbere inyuma ikote ririho ariko ridafunze.

Abantu batatu harimo umumama umwe uryamye ugaramye wasamye, hari abandi ni abaganga bahagaze mu mpande ze, barimo kumushyira icyuma mu kanwa bamuvura, akaba afite indwara.

Mu nyubako mo imbere hateye irange, amadirishya ariho ibitambaro, harimo umugabo mo imbere wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa, ufite umusatsi muke, imbere ye hariho ameza ariho imashini, n'urupapuro ari kugenda agenda atikinga utuntu duke duke.

Umugabo munini cyane wambaye umupira w'umweru ugaragara igice cyo hejuru gusa, afite ubwanwa bwogoshe, hejuru hakaba hari umusatsi, amaso arimo kureba, akaba afite agafuka mu kanwa k'umweru arimo gucishamo.

Umwana w'umukobwa wicaye mu ntebe yegamirwa, yambaye imyenda isa, arishimye arimo guseka cyane, afite indorerwamo imbere ye arimo kwireba, umusatsi uri inyuma w'inyuma uboshye, ari mu nyubako mu imbere iteye irangi.

Umugore uryamye ku gitanda agaramye areba hejurura, imbere ye hari umugabo wambaye agapfukamunwa na ga mu kuboko, afite urushinge arimo kurebamo agiye kumutera bari mu nyubako mu imbere.

Umuntu urimo kugaragara igice cy'umunwa gusa wasamye afite mu kiganza amenyo bomeka hejuru yandi arimo kugenda atereka muri ayo menyo ye akazamura atereka muri ayo menyo ye ku gice cyayo hejuru.

Umwana uryamye hasi akaba yasamye, hejuru ye hariho umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ga mu ntoki, ufite ibyuma arimo kujomba mu menyo ye amukura, anagenda anayahanagura amurinda indwara.

Mu nyubako mo imbere iteyeho amarange y'imyeru. Harimo amatara arimo kwakamo hejuru menshi atangamo urumuri, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byinshi cyane utubati tugiye dutandukanye.

Inyubako nini cyane yuzuye iteyemo irangi ry'umweru, hejuru harimo amakoro, amatara manini cyane arimo kwakamo, hasi harimo intebe zegamirwa eshatu ziteretsemo zitariho ikintu n'iki na kimwe.

Abantu babiri harimo umwana umwe wasamye mu kanwa, undi ni umuganga urimo kumuvura yamukojeje ibyuma mu kanwa arimo kugenda arebamo mu menyo, hakurya yaho hariho ibintu bifite irangi ry'umukara n'umweru bivangavanze cyane.

Umwana w'umukobwa ugaragara igice cyo hejuru wabumbuye umunwa amugaragaza amenyo ye asa neza cyane afitiye isuku, inyuma ye hariho ibara ry'umukara ryijimye cyane.

Abana benshi cyane bambaye imyenda isa bose ya kontoni, bafite uburoso bwo mu menyo bakoresho basukura amenyo yabo, bakaba barimo kubigisha ukuntu wabikora, hakurya yaho hari ibiti bihateye.

Umwana w'umukobwa uryamye ku gitanda gisa nk'umutuku akaba yasamye amenyo yose akaba agaragara, undi ku ruhande ugaragara ibiganza gusa yambayemo ga, akaba arimo kumukora mu kanwa agenda arebamo neza.

Abana benshi cyane bahagaze bose bafite korogati mu menyo, uburoso barimo gukubamo bahagira isuku, harimo abafite uducupa mu ntoki turimo amazi barimo gukoresha, inyuma yaho hariho ibyatsi bihari.

Inyubako imbere yubatse neza, hariho igikuta giteye irangi . Hejuru mu gisenge harimo parafo ,harimo amatara arimo kwakamo menshi ,hasi amakaro . Harimo intebe zicarwamo zegamirwa , imashini bagenda bifashisha mu ubuvuzi.

Mu nyubako mo imbere harimo abantu babiri, umumama ugeze mu zabukuru ufite umusatsi wajemo imvi, undi ni umuganga umuri imbere, yambaye imyenda y'akazi n'isaha ku kuboko, arimo kumuhereza imiti mu kiganza cye.

Abantu benshi cyane barimo kugenda bambaye imyenda ya siporo, ibikorwa byo kugorora umubiri wabo, harimo abagabo n'abagore mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande hariho indabo zihateye hejuru y'umuhanda nyinshi.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye ipantaro, umupira w'umweru, akaba afite n'isaha mu kuboko, ubwanwa n'umusatsi we byajemo imvi, arimo gukora siporo zimugorora umubiri we, har’utuntu ari gupfumbatiza mu ntoki, undi umur’imbere n’umuganga.

Abantu babiri harimo umusaza ukuze cyane wicaye mu kagare usunika, undi ni umuganga umuri imbere urimo kumuganiriza, bari mu nyubako mu imbere iteyeho amarange, hariho n'amarido ku madirishya.

Abantu babiri b'abagabo ariko harimo umwe ugeze mu za bukuru wambaye ingofero y'urugara, ipantaro n'ishati, bose bafite inkweto zifunze barimo kugenda mu muhanda urambuyemo amatafari ahiye asashe neza, hakurya y'umuhanda hariho ibiti bihateye.

Abantu babiri harimo umusaza ukuze cyane ufite imvi mu mutwe we, akaba yambaye umupira w'imbeho. Ku ruhande rwe hariho umuganga uhari urimo kumusukira amazi yo kunywa mu kirahure.

Igiti kinini cyane gifite amashami maremare, munsi yaho harimo abantu benshi bicaye bakoze uruziga, hakurya hariyo ubuzu butoya bw'igice kimwe.

Abantu babiri harimo umukecuru ugeze mu za bukuru ufite imisatsi yajemo imvi yambaye amadarubindi undi ni umuganga uhari wambaye imyenda y'akazi bakaba barimo baraganira imbere yabo hari ibiti bihari.

Abantu babiri harimo umukecuru ugeze mu za bukuru, wambaye impeta ku kuboko, bigaragaza yuko yasezeranye afite umugabo, amadarubindi n'igitambaro mu mutwe. Akaba yicaye mu ntebe yegamirwa. Inyuma ye hari umwana w'umukobwa, wambaye imyenda yo kwa muganga.

Abantu umwe babiri harimo ushaje cyane ufite imvi undi nawe ujya gusaza ariko batari mu ikigero kimwe, imbere yabo hariho ameza arambitseho ibintu by'ibiribwa inyanya, urusenda bari mu nyubako mi imbere.

Abantu babiri harimo umusaza n'umukecuru, bose umusatsi wabo ni imvi, bari mu nyubako mo imbere, imbere yabo harambitseho ameza ariho udukombe, uducupa dupfundikiye, amadarubindi, ibinini mu ntoki.

u Umusaza ugeze mu za bukuru ufite umusatsi n'ubwanwa byajemo imvi, akaba yambaye ubusa hagaragara igice cyo hejuru gusa, hari undi urimomwoza amushyiraho amazi n'isabune, hakurya hari ibintu bihari bisaba umukara, yicaye mu ibasi.

Abantu ni benshi cyane harimo: abana, abagabo bashaje bafite imvi, abagore bishimye bose barimo guseka, inyuma yabo hariho ibiti binini cyane biteye ikirere kirimo kugaragaraho agace gatoya gisa ubururu.

Abantu babiri harimo umumama ugeze mu zabukuru ufite umusatsi utangiye kuzamo imvi yambaye amadarubindi arimo araseka, imbere yabo hariho ameza harambitseho igikombe kirimo amazi, inyanya n'icyuma arimo gukata imboga.

Umumama munini cyane wambaye isengeri akaba afiteho n'akandi kazengurutseho k'amaboko maremare, umusatsi yarawogoshesheje, amaherena ku matwi, afite igikombe mu ntoki, akaba afite n'utundi tuntu arimo kwitegereza, ari mu nyubako mo imbere.

Abantu benshi cyane bicaye mu bice bigiye bitandukanye, harimo abarimo kurya bafata amafunguro basangira, harimo umwe uhagaze hejuru urimo kubaha ikiganiro, bari mu nyubako mo imbere bose amadirishya arafunze.

Abantu babiri harimo umukecuru ugeze mu zabukuru wicaye mu ntebe zegamirwa, akaba yambaye n'amaherena ku matwi n'undi umuri inyuma, umwana w'umukobwa wishimye, wambaye imyenda imuranga ko akora ubuvuzi. Akaba arimo kumuganiriza.

Mu nyubako mo imbere harimo abantu babiri bageze mu zabukuru, umukecuru n'umusaza ufite imvi mu mutwe n'ubwanwa yambaye amadarubindi, imbere yaho hariho ameza arambitseho igikombe, amasahani, bafite n'ibyuma mu ntoki.

Abantu babiri harimo umusaza ugeze mu zabukuru ufite ubwanwa n'umusatsi byajemo imvi, yambaye ishati akaba imbere ye hariho ameza arambitseho icyuma barimo kumupima umuvuduko w'amaraso, umwana w'umukobwa ni muganga bari kumwe.

Abantu; umwe, babiri, batatu, bose ni abagore ariko batari mu rungano. Harimo abageze mu za bukuru bafite imvi mu musatsi wabo, bakaba barimo kureba muri telefone bose bishimye, barimo gusekwa.

Mu nyubako imbere harimo abantu babiri umusaza ukuze cyane ufite umusatsi wimvi n'ubwanwa busa gutyo, umupira w'ubururu n'agakabutura k'umukara n'umukobwa yambaye imyenda yose isa n'umusatsi uziritse akaba arimo kugenda amufashe ukuboko.

Abantu benshi cyane bahagaze imbere, harimo abafite utuntu bagenda batwaramo udukoresho dufite amapine bagenda basunika, inyuma yaho hariho igiti kirekire gifite amashami arandaye cyane...

Abantu, umwe, babiri, umugore n'umugabo ukuze cyane w'umusaza yicaye mu ntebe yo kwegamirwa afite inkoni imwe bagenda bicumba, abantu bageze mu za bukuru arimo kumuha ikiganiro kijyanye n'ubuzima uko yakwitwara.

Abantu babiri umugabo ugeze mu za bukuru ufite imvi mu mutwe n'ubwanwa wambaye umupira n'ishati inyuma, umwana w'umukobwa wambaye amadarubindi n'ikote ry'ikoboyi, inyuma yabo hariho urugi rukozeza mu cyuma.

Abantu babiri harimo umusasu ugeze mu zabukuru, ufite umusatsi n' ubwanwa bwajemo imvi, yambaye umupira w'amaboko maremare w'umuhondo n'undi w'imbeho, akaba yicaye mu kagare k'abamugaye, undi ni umuganga urimo kumuganiriza bari kumwe.

Umugabo w'igikara ukuze cyane, ufite ubwanwa bwajemo imvi busa umweru, wambaye umupira, aryamye ku gitanda, imbere ye hariho undi muntu uhagaze w'umuganga urimo kumuvura, kurundi ruhande hariho imashini yo kwa muganga.

Umugabo ugeze mu za bukuru ufite umusatsi wajemo imvi, yambaye ishati isa nk'igishangara, ipantaro y'umukara, afite icyuma bamwambitse ku kuboko, arimo kugenda arebamo imibare igiye irimo.

Abantu babiri harimo umwe w'umuganga w'umukobwa undi w'umusaza ushaje ufite ubwanwa bwajemo imvi, arimo kumuhereza ibinini mu ntoki, inyuma yaho hariho akabati karambitsemo ibintu.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu bose bari mu gihe kigiye gitandukanye, mu rubyiruko, abana bakiri bato, abageze mu zabukuru, imisatsi yagiye izamo imvi. Hakurya y'aho hari umuhanda harimo gucamo imodoka n'ibiti bihateye.

Umusaza umwe ukuze cyane, ufite umusatsi wahindutse imvi n'ubwanwa, yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara afite inkoni mu maguru ye, ku mpande ye hari abana babiri bahicaye bafite ibintu mu biganza byabo barimo kurya.

Abantu babiri harimo umukecuru ugeze mu za bukuru wambaye ikote ry'imbeho, ipantaro n'inkweto zifunze, furari n'ingofero mu mutwe harimo ufite akantu arimo kugenda agenderaho undi ni umukobwa ufite agakapu mu ntoki urimo kugenda amuganiriza hakurya yabo hariho ibyatsi byinshi cyane n'ibiti bigufiya bihari.

Abantu benshi cyane bari mu muhanda harimo abakecuru bageza mu za bukuru abana batoya bambaye umwenda w'umuryango wa efuperi barimo kugenda bajya kwampamaza umukandida wabo hejuru y'umuhanda hariho inyubako zihari, indabo zihateye n'insina z'ibitoki.

Abantu babiri harimo umusaza ugeze mu zabukuru ufite ubwanwa bwajemo imvi busa umweru, nta musatsi afite ku mutwe bafite akantu arimo kugenda asunika mu ntoki.

Umusaza ukuze cyane wambaye amadarubindi, umusatsi wajemo imvi, ishati n'umupira uri inyuma w'umweru w'amaboko maremare, mu nyubako arimo iteye irangi, imbere ye hariho ameza hariho ikayi, arimo kwandikamo.

Abantu babiri harimo umugabo ugeze mu zabukuru wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara n'umukandara mu nda, akaba arimo gufata ibintu arimo kugenda, inyuma ye hari undi uhahagaze w'umuganga urimo kugenda amwerekera uko agenda yitwara.

Abantu babiri harimo umusaza ukuze ufite umusatsi watangiye kuzamo imvi n'ubwanwa, yambaye umupira w'ubururu afite n'akantu mu ntoki arimo gukanda arambuye kukundi yamufashijemo yambaye imyenda yabugenewe y'ubuvuzi itaburiya y'umweru.

Abantu babiri harimo umugabo ugeze mu za bukuru n'umukecuru bafite ubwanwa bwajemo imvi, akaba aryamye ku gitanda afite igikombe arimo kunywa amazi, inyuma yaho hakaba hari igikuta giteye irangi ry'mweru.

Abantu benshi cyane bahagaze, harimo abapapa n'abagore bose bishimye, barimo guseka bamanitse biganza hejuru, bari mu murima inyuma harimo ibihingwa by'amasaka, ibiti, ibyatsi bitoya byinshi cyane.

Abantu umwe babiri, harimo umusaza ugeze mu za bukuru wicaye mu gatebe kegamirwa, umusatsi w'imvi gusa yambaye amadarubindi, afite akantu mu ntoki arimo gukanda kamukomereza imitsi.

Abantu babiri, harimo umukecuru ugeze mu zabukuru ufite umusatsi w'imvi, akaba arimo kugorora amaboko ye kugira ngo amaraso agende neza mu mubiri; undi ni umwana w'umukobwa urimo kumufasha muri uwo murimo arimo, bari mu nyubako mo imbere, urugi rurafunze.

Abantu benshi cyane, harimo abicaye ku ntebe zegamirwa abandi bicaye hasi harimo umukecuru ufite urimo kudonda igitebo agenda akiboha neza, hasi hari ibyatsi hakurya hari amazu, n'ibiti bihateye byinshi.

Abantu babiri harimo umusaza ugeze mu zabukuru wambaye umupira w'umweru, umusatsi wajemo imvi, yambaye n'amadarubindi. Yicaye mu ntebe, afite akantu mu ntoki arimo gukanda agenda akomeza imitsi ye. Umwana w'umukobwa umuri imbere, akaba arimo kugenda amufasha.

Abagabo babiri barimo gukora siporo bagaragara nkaho bakuze cyane, bafite utuntu barimo kugenda bapezanya mu biganza bakora siporo, bagorora umubiri wabo bari mu nyubako mu imbere, inyuma yabo hariho akabati karimo utuntu duteretseho udukombe hejuru.

Mu nyubako mo imbere harimo umukecuru ufite imbago mu ntoki arimo kugenderaho ushaje, yambaye ikanzu isa ubururu, hakurya ye hari igitanda kihariye gishashe, kurundi ruhande hariho uruntu rw'urwuma runini cyane.

Abamama babiri harimo umwe ukuze cyane w'umukecuru, wicaye mu kagare kaba gafite amapine bagenda bamusunika, undi afite igipimo bamushyize ku kuboko barimo kugenda amusuzuma areba indwara arwaye, bari mu nyubako mo imbere iteye irangi ry'umweru.

Abantu batatu umwe ni uwaje kwivuza yambaye agapfukamunwa, abandi ni abarimo kumuha ubufasha bamutera inshinge ku kuboko. Inyuma yaho hariho amagambo yanditseho mu rurimi rw'icyongereza ariko adasomeka neza.

Abantu babiri umwe aricaye ku ntebe undi arahagaze ari inyuma yambaye itaburiya y'umweru, afite urushinge mu ntoki arimo kumujomba ku rutugu bose bambaye udupfukamunwa tw'umweru, imbere yabo hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Inyubako yitwa Convention Center iri mu mujyi wa Kigali, imbere yaho hari umwana w'umukobwa uhahagaze wifashe neza, inyuma ye hariho amagambo ahanditse ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye ishati idafite ikoran'amadarubindi inyuma ye hariho ibyatsi byinshi cyane, ku ruhande hari amagambo ahanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Umumama wambaye amaherena, ufite umusatsi ugaragara igice cyo hejuru gusa akaba yiteye ibintu bitukura ku munwa, imbere ye hariho amagambo ahanditse ari mu rurimi rw'icyongereza.

Umuntu umwe, babiri, bose bambaye imyenda isa, y'imikara. Amakote, amashati, n'amapantaro, umwe aricaye, undi arahagaze. Inyuma yaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Umumama wicaye mu ntebe yegamirwa nziza cyane, yambaye ipantaro y'umukara, umupira usa gutyo, ikote ry'umweru, akantu mu gatuza kagaragaza yuko akora umukozi wa leta, afite mikoro mu ntoki arimo gutanga ikiganiro.

Abantu benshi cyane harimo abagore n'abagabo, bakaba bazamuye amaboko bose, bishimiye ikintu runaka, imbere yaho hariho intebe zimwe z'umutuku ziticayeho umuntu, ameza ararambitse ariho uducupa tw'amazi hejuru.

Abantu benshi bahagaze bose bambaye imyenda isa n'ubupfukamunwa, bose bambaye ga mu ntoki bakora akazi kamwe. Hakurya yaho hari televiziyo zigaragaza amashusho ebyiri ziri ku gikuta, bari mu nyubako mo imbere.

Abantu babiri b'abagabo bose bambaye amakote n'amakaruvati n'amashati, undi akaba yambaye amadarubindi bafite impapuro mu ntoki z'imyeru, hariho amagambo agiye ahanditseho ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda.

Umumama wambaye amaherena, akaba afite n'umusatsi mwinshi cyane yadodesheje, aragaragara igice cyo hejuru gusa arishimye, imbere ye hariho amagambo ahanditse ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Mu nyubako mo imbere yubakishije amatafari ahiye ibirahure bifunze, harimo abantu benshi bicaye burungano batakuze cyane, mbere hajya hariho ameza agera hariho ibitambaro bidasa harambitseho mudasobwa.

Mu nyubako mo imbere harimo abantu benshi cyane abicaye n'abandi bari imbere bose bahanze amaso babiri, imbere hariho ameza hariho mudasobwa agacupa k'amazi indangururamajwi imuri imbere inyuma hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Mu nyubako mu imbere harimo abamama n'abagabo bicaye ku ntebe zegamirwa z'imituku imbere yaho hariho ameza, hariho igitambaro cy'umweru, harambitseho uducupa tw'amazi, mudasobwa irimo kwaka barimo gukoresha, hari umugabo uhagaze wambaye ikote ufite indangururamajwi mu ntoki ze.

Mu nyubako mu imbere harimo abantu bicaye mu byiciro bibiri bigiye bitandukanye, bose ariko hakaba hariho intebe zo kwegamirwa. Hari umumama uri imbere yabo ufite telefoni mu ntoki, ndangururamajwi, urimo gutanga ikiganiro. Yambaye amadarubindi n'imisatsi yasutse.

Abantu benshi bari mu nyubako, harimo abambaye imyenda isa hejuru, abandi itandukanye, bose kandi bafite udupfukamunwa, hakurya y'aho hari ku gikuta hari amagambo ahanditse mu rurimi rw'icyongereza, buri muntu afite agafuka k'umweru mu ntoki.

Mu nyubako mo imbere, harimo abantu benshi cyane bicaye mu ntebe zegamirwa zisa imituku, hari abicaye ku gice cy'imbere bafite utuntu mu gatuza twabo tugaragaza ko bafite akazi bagenda bakora, inyuma yaho hariho amagambo ahanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Umugore w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Jeannette Kagame, ahagaze yambaye amadarubindi umusatsi muremure yaziritse inyuma, imbere ye hariho akameza kariho mikoro ebyiri zizamuye, arimo gutanga ikiganiro, amagambo hariho ayanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Mu nyubako mo imbere harimo abantu benshi cyane bicaye, imbere yabo hariho ameza agiye arambitseho utuntu, inyuma yaho hariho amagambo ahanditse mu rurimi rw'Icyongereza, umumama umwe afite indangururamajwi arimo gutanga ikiganiro.

Abantu benshi cyane bicaye mu nyubako b'imbere harimo abambaye imyenda y'imyitero y'abisilamu abamama, abagabo imbere yaho hariho ameza y'uruziga ariho igitambaro cy'umweru aho bakandagiye harambuyeho itapi isaha ibara ry'umutuku.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu bose bahagaze ku murongo umwe, harimo abamama n'abagabo barimo bose bishimye. Inyuma yaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu, umwe, babiri, batatu, bane, harimo abagore babiri n'abagabo bandi bangana gutyo, umwe yambayemo amadarubindi, bose bahanze amaso ahantu hamwe, inyuma yaho hari ibintu bifite amarangi y'umuhondo.

Mu nyubako mo imbere harimo umugabo umwe urimo gutanga ikiganiro, imbere ye hariho akameza karekare hariho indangururamajwi, ku rundi ruhande hariho icyuma kigenda gifata amashusho n'ikindi gitangaza amakuru arimo kugenda atanga bayakurikirana.

Abaganga bapima indwara ya covid, bambaye imyenda yabugenewe ibarinda, imbere hari umusaza basamishije barimo gupima, akantu bakoresheje mu kanwa, hakurya hari abandi batonze umurongo, nabo bagiye gu, hasi hariho ikibuga cy'itaka.

Abaganga bambaye imyenda y'akazi, idupfukamunwa n'ingofero zo mu mutwe, harimo umwe ufite urushinge arimo gupima umurwayi, bari mu nyubako mu imbere iteye irange ry'umweru.

Abantu benshi barimo nyubako mo imbere iteyeho irangi ry'umweru ku gikuta. Hari umumama umwe w'umuganga, urimo kuvura undi. Uri hakurya yamushyize ikintu ku kuboko, imbere yaho hariho ameza arambitseho indangururamajwi.

Mu nyubako mo imbere harimo abantu benshi bambaye imyenda isa, imipira y'imyeru intebe zo bicayemo zisa nazo. Imbere yaho hari umumama wambaye ipantaro y'umweru, umupira w'umukara, no gutanga ikiganiro mu nyubako mo imbere.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye umupira w'amaguru maremare n'ingofero n'amadarubindi, afite urupapuro rwanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza, inyuma ye hariho amazu menshi cyane, ibiti binini, ikirere kirimo gusa ubururu.

Umugabo w'inzobe urimo uraseka, wambaye ishati y'umweru, afite umusatsi mukeya, yiyogoshesheje umucungo, imbere ye hariho amagambo ahanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu umwe, babiri bose bahagaze barimo kugaragaza urupapuro bafite imbere yaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ariko atagaragara cyane imibare hariho bibiri na mirongo itatu.

Ahantu hariho umuntu ufite ibiheri byinshi cyane, imbere ye hariho amagambo handitse mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo twirinde indwara y'ubushita bw'inkende.

Aba mama benshi bicaye hasi bafite abana mu ntoki zabo harimo numwe bateruye barimo kumuhagurutsa nyuma yaho hariho ibintu bigiye bishushanyije hariho abana amagambo agiye yanditseho adasomeka neza.

Inyubako nini cyane yubatse igeretse y'amataje iteyeho amarangi menshi cyane, imbere yaho hariho ibyatsi bingana, ibiti birimo biteye mu kirere kirimo gusa umweru n'ubururu bigiye bivangavanze.

Mu nyubako mo imbere yo kwa muganga batangamo ubuvuzi bw'abaturage, bose bambaye amataburiya, udupfukamunwa, bafite umusatsi mukeya ungana, imbere yaho hariho icyuma cy'ikoranabuhanga bafunguye barimo kurebamo imbere.

Mu nyubako mo imbere harimo hasi sima hejuru amakaro irangi riteyeho ni umuhondo, imiryango irafunguye harimo intebe zitcayemo umuntu n'uyu n'umwe, amatara arimo kwakamo, hejuru hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Inyubako ndende cyane y'amataje yubakishije amatafari ahiye, imbere yaho hariho amagambo ahanditse ari mu rurimi rw'Igifaransa, hasi hari moto zihari zihagaze hakaba hariho n'uruzitiro ruzengurutseho, igiti kiri imbere yaho.

Abantu batatu bambaye imyenda isa n'ibitambaro by'imyeru mu mutwe, hakurya hari ibyatsi bihari n'ibiti bihateye binini cyane n'umuhanda w'igitaka n'amazu ahari ahubatse, ikirere kirimo gusa umweru wijimye.

Abantu benshi cyane bari mu nyubako mo imbere bicaye mu bice bigiye bitandukanye, harimo umugabo umwe uhagaze ufite kamera mu ntoki n'icyuma kigenda gifata amashusho y'ibirimo kubera, hagiye harambitseho ameza, uducupa tw'amazi hejuru n'igitambaro kirambuyeho.

Mu nyubako mo imbere, iteyeho amarangi ku gikuta y'umweru, harimo hejuru parafo amatara n'umuriro w'amashanyarazi arimo kwaka, hasi harimo amakaro, hari imashini ihari bifashisha yo kwa muganga umuntu aryamamo bakamuha ubuvuzi.

Mu nyubako mo imbere yubatse neza cyane, iteye irangi ry'umweru, hejuru hariho amakaro, hasi na ho hariho sima, harimo igitanda gifite amapine bagenda bakurura, bimura. Gisashe neza, hariho amashuka yabugenewe.

Abantu benshi cyane batonze umurongo, abandi bicaye, ameza abarambitse imbere ye hariho igitambaro cy'umweru, umusaza ushaje cyane wicaye mu kagare, intebe ziri ku ruhande ziticayemo umuntu n'uyu n'umwe.

Abantu benshi cyane harimo abambaye imipira ijya gusa abandi bidasa, hariho inyubako zihubatse nyinshi cyane mu bwoko bugiye butandukanye n'amarangi agiye ahateye inyuma yaho hari igiti kinini cyane gisumba inzu ihari.

Inyubako nini cyane iteyeho amarange, hariho ibirahuri bidafunguye, imbere y'aho hariho umugabo wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda hariho n'amapeti, hakurya hari ubusitani buhari buhateye.

Abamama umwe, babiri, batatu, bane, bambaye imyenda isa, udupfukamunwa, babiri muri bo bambaye akantu mu gatuza kagaragaza y'uko bakora akazi, inyuma hari inyubako nini cyane iteyeho amarangi, amadirishya afunze, hari amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo ''inzu y'ababyeyi materineti''.

Inyubako nini cyane igiye igeretse, amataje, imbere y'aho hariho amagambo ahanditse mu rurimi rw'Icyongereza, imodoka iparitse, hasi indabo zigiye zegetse ku miryango igiye ifunguye na kizimyamwoto igiye ihari.

Mu nyubako mo imbere harimo abantu benshi cyane bambaye udupfukamunwa imyenda igihe itandukanye hasi harimo sima hejuru, amakaro kurukuta hateyeho irangi ry'umuhondo amatara arimo kwakamo harimo urumuri rubona neza.

Mu nyubako mo imbere harimo abantu batatu, abakobwa babiri n'umuhungu umwe bambaye amataburiya y'umweru n'imipira isa gutyo, ga mu ntoki bose, imbere yaho hariho ameza. Arambitseho ibyuma by'ikoranabuhanga, agacupa k'amazi.

Ikigo kinini cyane harimo abantu bicayemo n'abahagaze, imihanda igiye irimo zikaba ziriho n'amarange y'imihondo myinshi cyane, harimo ibiti by'indabo biteyemo n'ikirere cyaho kirimo gusa ubururu n'umweru.

Abantu umwe babiri batatu, harimo umuganga, umurwayi uryamye ku gitanda wambaye ikanzu, undi ni umugabo wambaye amadarubindi, bari mu nyubako mo imbere iteyeho irange ku gikuta.

Inyubako nini cyane hariho irangi ry'umweru amakaro ari hasi harimo ibitanda bibiri, hariho kimwe gishasheho amashuka byo yo kwa muganga bigenda bikururwa hasi bijyiye bifiteho n'amapine.

Mu nyubakoko mo imbere, hateye irangi ku gikuta hasi hariho amakaro, hariho intebe zo kwicaraho, ibyuma bihari by'ikoranabuhanga bakoresha kwa muganga bavura abantu, harimo ibyo bagenda bakaryamamo n'imashini ziri hakurya.

Mu nyubako mo imbere yubatse neza ifiteho amarangi hose y'umuhondo, umweru, harimo intebe zigiye ziririmo imbere, ameza, ntamuntu n'umwe urimo, agace k'imbere ku nkuta hagiye handitseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza.

Inyubako nini cyane yubatse igeretse, hejuru hakaba hariho utwuma turinda ko abantu bahubuka bikubita hasi, ku mbuga haparitsemo imodoka y'ivatiri hakurya hakaba harimo ibyatsi, harimo itarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Mu nyubako mu imbere harimo imashini z'amoko menshi agiye atandukanye, zirimo kwaka, harimo akarahure gasa icyatsi, ubururu, hasi hariho ibara ry'ubururu bwijimye cyane.

Inyubako nini cyane yuzuye hejuru hariho icyapa cyanditse mu rurimi rw'Icyongereza, umuryango hasi ukaba ufunguye, mo imbere harimo abantu bahagazemo barimo kwakamo, ubufasha ariko hakaba nta rumuri rurimo.

Inyubako nziza cyane iri hakurya iteye amarangi y'umyeru hariho ibirahure ariko bidafunguye imbere yaho hari umwana urimo ku gendamo umupira w'umuhondo undi uri mu kagare k'abantu bamugaye hakurya hari ikigega cy'amazi n'ibyatsi bihari.

Mu nyubako imbere inzu iteye irangi icyumweru ibirahure by'amadirishya bifunze imbere harimoigitanda kiriho akantu k'umukara karambuyeho, akabati karimo utuntu tugiye duteretsemo munsi.

Inyubako nini cyane yubatse neza cyane, iteyeho amarangi asa umweru ku nkuta n'ubururu, hejuru harimo amatara arimo kwaka y'umuriro w'amashanyarazi, hasi hari ibitanda bihari ariko bitariho abantu.

Inyubako nini cyane yubatse imbere hari n'urubaraza rusukaye harimo abantu benshi bahagaze abandi bari kuru ruhande rwo hakurya bicaye ku kintu cy'igisima cyubakishijemo amabuye ku rundi ruhande hariho imodoka ihagaze ariho umumama uhagaze imbere.

Inyubako nini cyane yubakishije amabuye, imbere yaho hariho urubaraza rusakaye neza rufashweho n'inkingi zizengurutse, harimo abantu babiri bambaye hejuru bose umweru, hanze hariho ibyatsi bitoya bingana.

Inyubako nini cyane yubatse iteyeho amarangi y'imyeru ku nkuta no hejuru, mo hasi hakaba harimo ibyuma by'ikoranabuhanga bifashisha bavura abantu.

Inyubako nini cyane igereretse yuzuye yubakishije amatafari ahiye amadirishya afunguye yose ariho igisenge ikigega kibika amazi ikirere kirimo gusa ubururu n'umweru bivangavanze cyane.

Abantu umwe, babiri, batatu bose ni abamama umwe ni muganga yambaye agapfukamunwa ku kananwa n'amadarubindi arimo kuvura undi washyize akantu ku kuboko arimo kumukoraho bicaye ku ntebe y'urubaho hakurya hariyo ibiti bihateye.

Abantu benshi cyane harimo abahagaze abana bicaye hasi umugabo umwe wambaye itaburiya y'umweru, umupira n'amadarubindi, akantu k'ikoranabuhanga afite ku rutugu, urupapuro mu ntoki arimo guseka arishimye.

Inyubako nini cyane irimo ibyuma by'ikoranabuhanga byinshi cyane bigiye bitandukanye amasaha amanitse hejuru, hariho ikigaragaza amashusho, hejuru harimo amakaro agiye ashashemo neza cyane.

Inyubako nini cyane yubakishije amatafari ahiye n'urugo ruzengurutseho, mo imbere harimo utuntu bagiye bakata tw'utujaride twiza cyane, harimo ibyatsi bingana n'ibiti by'indabo, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu.

Mu nyubako mu mbere harimo ibyuma by'imashini byinshi cyane bigiye bitandukanye bicometse ku muriro w'amashanyarazi, harimo ibibombone, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza hasohokamo ibintu by'ibyuka.

Inyubako nini cyane yuzuye iteyeho n'amarange ikaba ari materiniti inzu y'ababyeyi aho babyarira, hanze hicayeho abantu hari n'abahagaze, imbere ye hariho ameza arambuyeho igitambaro.

Inyubako nini cyane, yubatse inyuma hakaba hari uruzitiro ruzengurutseho, rufite inkingi zubakishije amatafari ahiye. Imbere yaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda, ku rundi ruhande hakaba hari umuhanda uhari harimo gucamo abantu benshi.

Umuhanda urimo amatafari ahiye bashashe neza hasi hari n'abantu barimo kugendamo benshi, hirya hari inyubako nini cyane ihuzuye, hakurya y'umuhanda hari ibiti binini cyane bihateye.

Mu nyubako imbere yubatse neza cyane hasi hariho irangi ry'umuhondo, ku nkuta hateyeho iry'umweru, harimo urumuri ruhagije. Ameza arimo, intebe zo kwicaraho zizenguruka n'ibitanda byo kuryamaho bigiye birimo.

Inyubako nini cyane yubakishije amatafari ahiye, imbere yaho hariho amagambo ahanditseho afite amabara agiye atandukanye, inzugi ziriho n'ibyuma n'ibirahure zifunze hariho urubaraza imbere yaho.

Mo imbere mu nyubako, igikuta giteye irangi ry'umweru, hejuru harimo amakaro, amatara arimo kwakamo, hasi harambitseho intebe, n'ibyuma byegetse ku gikuta. Harimo ibishushanyo bihashushanyije imbere.

Mu nyubako mu imbere iteye irangi ry'umweru, hasi harimo amakaro, ku nkuta hariho ahantu hamanitseho impapuro, zigeze zanditseho amagambo ariko atagiye asomeka neza, harimo imbere intebe zo kwicaraho zitarimo abantu.

Inyubako nini cyane yuzuye iteyeho amarangi y'umweru n'umuka ahagana hasi, imbere yaho hashasheho amatafari ahiye, amadarapo abiri amanitseho, ikirere kirimo gusa umweru cyane.

Inyubako mo imbere harimo irangi riteyemo, intebe zirimo n'ameza hatarimo umuntu, amadirishya afunze harimo urumuri ruturuka hanze rw'umweru, amatara hejuru arimo kwaka.

Inyubako nini cyane yuzuye iteyeho n'amarange imbere yaho hariho amagambo yanditseho mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'icyongereza ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, ikirere kirimo gusa ubururu n'umweru bivanze.

Inyubako nziza cyane irimo hasi irangi ry'umweru hejuru amakaro no ku gikuta nuko, harimo ibintu byanditseho amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza urugi ruriho na rurafunze.

Inyubako nini cyane yuzuye ifiteho igisenge n'inkingi, ikaba yubakishije amatafari ahiye, irangi riteyeho rirasa umuhondo, hakaba hariho abantu bahagaze imbere yaho n'abicaye, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Ikigo kinini cyane kirimo amazu meza ateyeho amarange n'ibisenge, harimo ubusitani bwiza cyane hateyemo indabo n'ibyatsi biringaniye, imihanda igiye irimo sima.

Munyubako mo imbere iteyeho amarangi y'imyeru, hasi y'ubururu amatara arimo kwakamo ari hejuru. Ububati buhari hakurya harimo ibikoresho. Icyuma cy'ikoranabuhanga gihari, ibikoresho bafashisha kwa muganga basuzuma abantu indwara zabo.

Mu nyubako mo imbere harimo abarimu bambaye amataburiya umwana ufite akuma mu ntoki arimo kumwerekera, inyuma ye hariyo abandi bantu bahagaze bambaye amakote, ku gikuta hariho ikibaho hariho amagambo ahanditseho mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Inyubako nini cyane yubatse yuzuye iteyeho amarange, hariho umuryango imbere y'icyo cy'ikirongozi kinini binjiriramo, hakaba hariho amagambo ahanditse mu rurimi rw'icyongereza, ibitaro by'akarere ka Nyarugenge hariho indabo zigiye zihari ibiti bike bihari byo mu busitani.

Mu nyubako mpimbere harimo ibitanda byinshi cyane bisa bisasheho amashuka y'imyeru harimo umu mama umwe wambaye agapfukamunwa wambaye ibisa arimo kugenda azengurukamo buri gitanda kigiye kiriho inzitiramibu irinda imibu.

Inyubako nini cyane, etaje iteyeho amarangi y'umweruru yubakisha amatafari ahiye, imbere yaho hari imodoka ihagaze, umuhanda wa kaburimbo uhari, ikirere kirimo gusa ubururu.

Mu nyubako mu imbere hasi harimo irange ry'umweru no ku gikuta, hakaba harimo ibyuma bishyiramo umuyaga, igitanda kiriho gishasheho uburiri hariho amashuka arambuyeho neza, imashini zigiye ziri ku ruhande zizengurutseho.

Inyubako nini cyane yubatse neza, iteyeho irange ry'umuhondo. Hariho amadirishya agiye adafunguye, inyuma yaho hariho ubwatsi gatoya bagiye bahira buringaniye, indabo zihateye ku mpande n'igiti gihari.

Inyubako nini cyane yuzuye iteyeho amarange, hejuru hariho utwuma tugenda turinda abantu y'uko bahanuka bakikubita hasi, imbere y'aho hariho ikintu kibaranga cyariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, insinga z'umuriro zica hejuru y'inzu n'imbere yayo.

Inyubako nini cyane yubatse neza hariho ibyuma bigiye bizengurutseho mo imbere hateyemo indabo n'ibyatsi bito bigiye biringaniye, harimo abantu benshi abahagazemo barimo kugenda hejuru yabo hariho ahantu handitseho amagambo y'ururimi rw'ikinyarwanda ngo ikigo nderabuzima cya Tabagwe hariho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Mu nyubako mo imbere harimo ibitanda byo kwa muganga abarwayi baryamaho, hariho ikicayeho abantu, abaryamye, ubugare hagendamo abamugaye, amatara arimo kwakamo.

Mu nyubako mo mbere harimo amatara arimo kwaka igice kimwe, ariko hatabona neza, harimo intebe zo kwicaramo, ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo bigaragaza amashusho byinshi cyane, bigiye bitandukanye.

Mu nyubako mo imbere yubatswe neza, iteyeho amarangi y'imyeru, urugi ruriho rufunguye, amatara arimo kwakamo ashyiramo urumuri, hasi hari intebe zihateye n'utumeza tugiye turimo hagati.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, hariho inkingi eshatu ziteye irangi ry'umuhondo hamwe n'inzugi, hakaba hafunguye, ikaba ifiteho n'igisenge, imbere yayo hari umugabo urimo kugenda.

Inyubako y' icyumba yagenewemo siporo ngororamubiri, hagati hagiye harimo inkingi zigiye ziyifashe, ibikoresho by'ubwoko bugiye butandukanye bigiye birimo, nta muntu n'umwe n'umwe urimo kubikoresha.

Inyubako yubakishije amatafari yahiye, imbere hariho ubusitani burimo ibyatsi bitoya n'indaho, imihanda irimo igiye ikasemo izengurutsemo irimo kaburimbo, hakurya ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu bivanze.

Inyubako nini cyane iriho igisenge, yubakishije amatafari ahiye, imbere yaho hariho akajaride karimo utwatsi tungana n'ibiti. Ku rundi ruhande hariho icyapa kiyobora abagenzi, hariho ikirangantego cya polisi n'icy'igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako nini cyane yuzuye iteyeho amarangi y'imyeru n'ay'imikara, ibirahuri bigenda biba bisa neza, ikaba ifite igisenge hejuruvi imbere yaho harihora amagambo ahanditse mu rurimi rw'icyongereza, harimo imodoka iparitse munsi ubusitani buri imbere burimo indabyo nziza cyane.

Inyubako nini cyane iri hakurya yubakije amatafari yahiye. Imbere yaho hariho umuhanda wari urimo sima, harimo umuntu urimo kugendamo. Ubusitani bwiza cyane bw'indabo n'ibyatsi bitoya bingana. Hamanitsemo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Mu nyubako mo imbere ikoreye amasuku ateyeho n'irangi. Hasi harimo amakaro, intebe zegamirwa nyinshi cyane, harimo abicayemo abantu izindi nta barimo, imbere yaho hariho icyuma kigaragaza amashusho.

Inyubako nini cyane y'itaje igeretse iteyeho amarangi, imbere yaho hariho imodoka nyinshi cyane zihagaze zitarimo kugenda, hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara, umupira utukura n'ingofero.

Mu nyubako n'imbere harimo abantu benshi abicaye n'abahagaze, hasi hariho amakaro no hejuru amatara arimo kwakamo, inzu iteyemo irange ryiza cyane, harimo ameza arambitseho utuntu tw'uturabo bagiye bahatereka.

Inzu nini cyane yuzuye iteyeho amarange y'umweru igisenge, imbere yaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo ikigo nderabuzima cya Kanyinya, imbere yaho hariho ibyatsi bito bingana biteyeho n'umuhanda.

Mu nyubako mo imbere iteye irangi ry'umweru hasi harimo amakaro, intebe zigiye zirimo nyinshi cyane ubu ameza agiye arambitseho ibikoresho bigiye bitandukanye hari icyuma kigaragaza amashusho imbere ariko kidacometse.

Inyubako nini zubatse neza ariko mu buryo bugiye butandukanye, imwe ni ndende indi ni ngufiya, iri mu ruziga bikaba bitandukanye umuhanda wa kaburimbo ucamo hagati, hakurya yaho hariho ubusitani bw'ibyatsi bingana.

Inyubako nini cyane mo imbere harimo hasi sima hejuru amakaro ya purafo, mo imbere harimo ibyumba bigiye bitandukanye hicayemo ahantu, hariho utuntu tw'utwapa tugenda tuyobora duteretsemo twinshi cyane.

Inyubako yuzuye irimo amarangi, amasima mo hasi, hejuru amakaro y'imyeru hariho icyuma kifasha kugaragaza amashusho ibikoresho by'ikoranabuhanga bafasha bavura.

Mu nyubako mo imbere hagiye harimo amabara agiye atandukanye, umweru, ubururu, umuhondo harimo udutebe tw'utuziga two kwicaraho dufite amapine, ameza ari imbere hariho imashini zizamuye, amatara y'umuriro w'amashanyarazi arimo kwakamo imbere.

Inyubako nini cyane izengurutse, yubatse neza, igeretse, iteyeho amarangi agiye atandukanye, ariko amenshi ni ay'umuhondo, mo imbere mu kigo harimo indabo ziteyemo nziza cyane, n'igiti kinini, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu bivanze.

Abantu batatu bari mu nyubako mo imbere, babiri ni abaganga, bambaye n'imyenda y'akazi, undi ni umwe waje kwivuza, imbere yaho harambitseho ameza hariho igikoresho, akaba afite ikayi mu ntoki n'ikaramu ari kumubaza, hakurya yabo hariho za mudasobwa nyinshi cyane.

Inyubako nini cyane ifite irangi riteye hasi no ku gikuta, hejuru ikaba isakaje ibyuma n'amabati harimo agenda atangamo urumuri n'imbere y'umweru. Harimo ububati bugiye bufunze, hagiye harimo ibikoresho bike bitandukanye.

Inyubako nini cyane yuzuye, hejuru harimo amakaro, igikuta hateyeho amarange, mo imbere harimo ibitanda bishasheho, hejuru hamanitseho na za supanete. Harimo umugabo umwe, watebeje urimo guhambura, yorosa umurwayi uryamye hasi.

Inyubako nini cyane yubatse ikaba ifiteho amarange ari mu buryo bubiri bugiye butandukanye, ibirahure bikaba byose bifunze nta na kimwe gifunguye, imbere yaho hariho indabo zihari zihateye, amagambo ahanditse mu rurimi rw'Icyongereza ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu.

Inyubako nini cyane, ikoreye amasuku, hasi hariho amakaro no hejuru, ku nkuta hateye irangi ry'umweru, amatara arimo kwakamo, harimo n'inzugi zisa imituku.

Mu nyubako mo imbere ye harimo irange ry'umweru, hasi amakaro amatara arimo kwakamo, harimo ameza arambitseho ibitambaro birambuye neza, imashini zigenda bakoresha ibintu bigiye bitandukanye.

Mu nyubako mo imbere harimo umugabo uryamye ku gitanda kiriho umusego muremure, arimo kureba hejuru imbere ye hariho ibyuma by'ikoranabuhanga bicometse birimo kwaka hariho utuntu tw'udutsinga twinshi cyane.

Inyubako nini cyane yubatse igereretse, ifiteho igipangu ku marembo hafunze, hakaba hariho abagabo bahagazeho imbere bambaye imyenda isa y'imikara n'amakote, ku ruhande hariho kaburimbo, imodoka ihari itarimo kugenda.

Inyubako nini cyane zirimo imbere mu rupangu, zigiye zifite ibisenge bigiye bitandukanye harimo ibiti bigiye biteyemo, urugo rwubakishije amatafari ahiye, harimo ibidirishya birimo ibyuma, ku mbuga hari utwatsi dutoya ibyuma birimo bagenda bicaramo binyonga.

Abantu babiri harimo umusaza ugeze mu zabukuru ufite umusatsi w'imvi n'ubwanwa, yambaye amadarubindi, ishati y'amaboko maremare n'ipantaro, umuganga umwicaye imbere yamushyize ikintu ku kundi kuboko, arimo kugenda anamuganiriza, amusetsa.

Mu nyubako mo imbere iteye irange ku nkuta no hasi no hejuru, harimo amatara arimo kwakamo ashyiramo urumuri, harimo utubati twinshi cyane tugiye dutandukanye harimo n'ibikoresho bigiye birambitsemo byinshi n'uducupa tw'amavuta.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifiteho igisenge cy'amabati, iteyeho irangi ry'umuhondo, hariho amagambo ahanditseho mu rurimi rw'Ikinyarwanda ngo "inzu y'ababyeyi", hasi hakaba hari abantu bambaye imyenda isa bahari benshi cyane.

Mu nyubako mo imbere yubatse neza, hateye irangi ku nkuta no hasi no hejuru; hakaba hariho amadirishya y'ibirahure, akura urumuri hanze arwinjirizamo mo imbere. Harimo ibitanda bishashe neza bitariho abantu...

Mu nyubako mo imbere, yubatse neza iteyeho irangi ku bikuta, hejuru mu gisenge harimo n'amatara arimo kwaka, intebe zirimo zo kwicaraho, ameza, ububabati bagenda babikamo ibintu, harimo abantu benshi cyane bambaye amataburiya y'imyeru...

Mu nyubako mo imbere isa neza cyane harimo amatara atarimo kwaka, amakaro hasi y'imyeru n'igikuta giteye amarangi, harimo ibicuruzwa by'imiti igiye itandukanye.

Mu nyubako mo imbere harimo umuganga wambaye imyenda y'imyeru, ipantaro n'itaburiya n'inkweto, umusatsi we wajemo imvi, ari ku byuma bihari by'ikoranabuhanga, yabipfunduye arimo kugenda akoramo imbere.

Inyubako nziza cyane yubatse, igeretse ifite amazu y'amatage, imbere yaho hariho ibiti bihateye n'indabo, imihanda myiza cyane igiye ikasemo, Ikirere kirimo gusa ubururu n'umweru.

Inyubako nini cyane yubakishije amatafari yahiye afite igisenge cy'amabati. Imbere yaho hariho ahantu bahubatse hashinzwe kujyamo imodoka zikaba zinaparitsemo, ubusitani bwiza cyane harimo indabo nziza ziconze, imigano n'ibiti binini bihateye.

Inyubako nini cyane yuzuye iteyeho amarangi, mbere yaho hariho abantu barimo kwinjiraho ibyapa bigenda bibuza ibinyabiziga ko bigenda byitonze, hariho amagambo yanditseho ngo King Faisal Hospital bivuga ibitaro bikuru by'umwami Faisal.

Abantu babiri harimo umwana umwe n'umuganga urimo kumuvura , umwe muri bo bafite agapfukamunwa bose bicaye ku ntebe z'imyeru, hakurya ku gikuta hateyeho irange, inyuma hariyo kabati babikamo ibikoresho.

Mu nyubako mo imbere, iteye irange hose risa umweru, ku nkuta zigeze ziriho, hariho iry'umuhondo, harimo intebe nziza cyane zigiye zitandukanye, hari amagambo ariho yanditse mu rurimi rw'icyongereza, amatara arimo, arimo kwaka.

Inyubako nini cyane yuzuye iteyo irangi ry'umweru, imbere yaho hari umuhanda urimo amatafari ahiye arambuyemo indabo bahinze nyinshi cyane zingana, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda n'icyongereza.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ikabutura, impeta ku kuboko n'agasaro akaba arimo gukora siporo ngororamubiri, yahinnye ukuguru ku ivu arimo gukanda cyane nk'aho yahuyemo n'imvune.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda isa, agasengero n'agapantaro kamufashe cyane, yicaye hasi amaguru arayarambura n'amaboko, umutwe arimo kujya kuwukoza ku mavi, arimo aragorora umubiri we, ahantu hose hariho ibara ry'umweru ku ruhande rwo hakurya.

Umugabo munini cyane wambaye ikabutura n'isengeri n'inkweto zifunze arimo gukora siporo yirukanka mu nyubako mo imbere, hakurya hari umwana w'umukobwa upfukamye arimo kumuhanga amaso, imbere ye hariho ameza arambitseho ibikoresho.

Umugabo munini cyane wambaye umwenda umufashe w'umukara, afite icupa ry'amazi yafunguye arimo kunaga mu kanwa andi aca hejuru ku munwa, ikirere kirimo gusa ibara ry'ubururu n'umweru.

Mu nyubako imbere harimo abantu babiri umusaza wambaye ikabutura n'umupira w'amaboko magufi arimo gukora siporo zikurura umubiri we umuganga w'umukobwa yambaye imyenda yabugenewe naga mu ntoki ze.

Abantu bicaye harimo umumama utereye umwana, undi yambaye imyenda yo kwa muganga n'ubupfukamunwa, arimo kumuvura amutunze akantu k'itoroshi ku gahanga, imbere yabo hariho ameza arambitseho ibikoresho byinshi cyane bifashisha bavura abantu.

Umwana w'umukobwa ufite umusatsi mwinshi cyane, yambaye agapira k'umutuku, kuteri mu matwi, afite agacupa k'amazi mu ntoki, arimo kunywamo amazi, araramye areba hejuru.

Inzu nini cyane iteye irangi ry'umweru harimo amakaro hasi ububati, icyuma gishyiramo umuyaga intebe zigiye zirimo z'ubwoko bugiye butandukanye n'izegamirwa.

Umugabo munini cyane, ugaragara igice cyo hejuru gusa cy'agatuza n'ukuboko, yambaye ubusa, ku rutugu hariho ibintu byometseho bifite amabara y'umutuku n'icyatsi, inyuma ye hariho ibara ry'umukara.

Umugabo munini cyane wambaye imyenda isa y'umukara, hariho isengeri n'agakabutura, arimo gukora siporo igorora umubiri, bituma amaraso ye atembera neza mu mubiri.

Umwana w'umukobwa wicaye hasi, yambaye ipantaro imufasha cyane y'umukara, isengeri na yo isa gutyo, inkweto z'umweru, arimo kunanura umubiri we akora siporo, inyuma ye hari ibyatsi birimo kuhagaragara bihari.

Umwana w'umukobwa ugaragara igice cyo hejuru gusa, yambaye isengeri afite umusatsi akaba arimo gukora siporo igororora umubiri we neza, utuma amaraso agenda mu mubiri neza. Ikirere kirimo gusa umweru.

Abantu babiri bateranye umugongo, umugabo n'umugore bagaragara igice cyo hejuru gusa, bose bafite ubucupa bw'amazi barimo kunywa bararamye bareba hejuru. Hakurya yabo hari ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu bivangavanze cyane.

Abantu benshi bahagaze harimo umwe wambaye imyenda yo gusiganwa n'amaguru undi amufashe nkaho yahuye n'ikibazo cy'imvune. Hakurya yaho hariho urukuta rwubatseho ruteye irangi ry'icyatsi n'umweru.

Umukobwa wambaye isengeri ugaragara igice cyo hejuru, afite umusatsi isaha ku kuboko na kuteri mu mumatwi ze, arimo gukora siporo igorora umubiri we neza, hakurya ye hariho ibiti binini cyane bihari, ikirere kirimo gusa ubururu.

Abantu benshi cyane harimo abakuru n'abana bari mu ngano bishimiye abatonze umurongo barimo gukina umupira w'amaboko mu kibuga hasi kirimo sima, hakurya hari inyubako irimo kuhagaragara n'ibyatsi bihari.

Umugabo munini cyane wambaye isengeri hejuru y'umweru ugaragara igice cyo hagati afite n'ubwanwa akaba amaboko ye ari muri siporo arimo kwigorora, inyuma ye hariho igikuta gifite irangi ry'umweru n'amadirishya afunze.

Mu nyubako mo imbere iteyeho amasuku n'amarange y'imyeru, harimo urumuri rw'amatara arimo kwaka, harimo utubati turambitsemo ibikoresho bigiye bitandukanye, imashini y'ikoranabuhanga bifashisha bavura abantu.

Inyubako nini yuzuye imbere yaho hariho abantu batatu barimo kubaka akantu gahari, bambaye imyenda yabubatsi bakoresha n'inkweto zabugenewe ahagaze ku rwego hejuru.

Ibiganza bibiri byose bisa, yambaye ga z'ibice yaciyeho imitwe yo hejuru, hakurya yaho hakaba harimo gusa ibara ry'umweru cyane ntarindi rivangiyemo ririmo.

Umugabo wambaye ikabutura n'isengeri isa akaba arimo gukora siporo igorora umubiri kugira ngo amaraso atembere neza, akaba yicaye mu byatsi biri hasi bitoshye bihari.

Abantu umwe babiri batatu bane barimo kwirukanka mu muhanda wa kaburimbo ariko bagaragara igice cyo hasi gusa hakurya y'umuhanda hari ibyatsi bito biyingana bacunze mu muhanda harimo imirongo y'imyeru igiye iciyemo myinshi cyane.

Ikiganza cy'umuntu kigaragara cyonyine gifite ijage mu ntoki, hasi hari igikombe arimo gufata asukamo amazi nubwo hariho irangi ry'umweru ryiganjemo cyane.

Abantu benshi cyane bahagaze inyuma hari undi basasiye barambuye ikiringiti hasi, hariho umuntu undi amuri inyuma, bambaye imyenda ya kuruwaruje, barimo kwiga ukuntu umuntu ahuye n'ikibazo ukuntu wamufasha umuha ubutabazi bw'ibanze.

Umwana w'umukobwa wambaye agasengeri gafashe amabere n'ikabutura, inkweto zifunze, aricaye mu byatsi, arambuye amaguru, arimo kumanura umutwe awukoza mu mavi, akora siporo zigorora umubiri. Hakurya ye, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu.

Umuntu wicaye hasi ariko akaba agaragara igice cyo hagati gusa yambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi yambaye ipantaro yikoboye afite agatambaro k'ubururu mu ntoki yakoje kukundi kuboko arimo kwikandaho.

Ikirangantego cy'umuryango bita croix rouge yo mu Rwanda ni ikigo gishinzwe ubutabazi ku bantu aho kigeze hose nta nyungu gishingiyeho nta gihembo arikwitura ineza aba benegihugu uwo usanze ari mu kaga ukaba wamufasha.

Umugabo wambaye imyenda isa, agasengeri n'agakabutura by'imikara, inkweto n'amasogisi y'umweru, yazamuye ukuboko agutera hejuru ku biti bihari, arimo gukora siporo agorora umubiri we, inyuma ye hari ibiti byinshi cyane.

Ikiganza cy'umuntu gifite ijagi mu ntoki irimo amazi, hasi harambitse igikombe arimo kuyasukamo, hakurya hari ikirere kirimo gusa ubururu n'umweru bivanze.

Umwana w'umukobwa wicaye ku gitanda hejuru, akaba afite ukuguru kuriho igikomere, hari undi ugufashe urimo gushyiraho imiti azengurutseho agatambaro azirika, bari mu nyubako mo imbere...

Umwana w'umukobwa ugaragara igice cyo hejuru gusa wambaye isengeri afite umusatsi munini cyane, icupa ry'amazi arimo kunywa, hakurya ye hari inzu ihari n'amazi menshi cyane, ikirere kirimo gusa ubururu.

Abana benshi bagiye bari mu mirimo igiye itandukanye hari abari muri siporo ngorora mubiri abandi barimo gukina umupira hari uwicaye ku gatebe afite icyuma arimo kugenda aterura bagenda bananura umubiri mu buryo butandukanye.

Abantu benshi cyane harimo abambaye imyenda y'umuryango bita croix rouge ifata abantu bababaye iteruye umugabo umwe, hakurya yaho hari ibiti binini cyane bihari n'ibyatsi bito biri hagana hasi.

Igikombe cy'ikirahure n'icupa ry'amazi rihengetse amazi arimo kuvamo hamwe agwa ahandi hakaba hakurya hari ibara ry'umweru riri igice cyo hejuru hasi harimo iy'umukara rigiye rifunzemo.

Mu nyubako mo imbere harimo imashini zigiye zitandukanye bagenda bakoresha, harimo intebe bicaramo begamye igenda yizengurutsa, igikuta giteyeho irange ry'umweru, harimo urumuri rutarimo kubonesha neza.

Abantu babiri harimo umwe uhagaze, undi akaba umugabo wambaye ikabutura y'ijezi ya siporo n'umupira na terefone mu ntoki, arimo kumuzamura ukuguru amunanura, bose ntabwo bagaragara igice cyo mu maso.

Umugabo munini cyane ukora siporo zigorora umubiri yambaye isengeri y'icyatsi, afite agacupa mu ntoki arimo gukanda hasohokamo ibintu by'imyeru abyitera mu mutwe hakurya ye hari amabara agenda atandukanye avangavanzemo ay'imikara.

Umusore munini cyane wambaye agapira, mu kuboko kumwe afitemo icupa ririmo amazi arimo kunywa, hakurya ye hariho ibintu bifitemo amabara agiye avangavanze menshi cyane adasa.

Umugabo uhagaze azamuye ukuboko hejuru yagushyize ku kintu kiri hasi cy'umukara, yambaye ikabutura n'umupira, isaha ku kuboko n'inkweto zifunze, arimo gukora siporo zigorora umubiri we, hakurya hariho ibirahure, inyuma yaho hariho indabo zihateye.

Umugabo wicaye hasi akaba yarambuye ukuguru kumwe, ukundi akuzinze yambaye ipantaro y'umukara, umupira w'amaboko magufi y'umuhondo, akaba arimo gukora siporo igorora umubiri we. Inyuma ye hariho ibiti by'indabo binini cyane.

Umwana w'umukobwa ufite agacupa mu ntoki urimo kunywa amazi, yambaye akenda k'amaboko magufiya igitambaro ku ijosi yiteyeho, afite umusatsi muke arimo kugaragara igice cyo hejuru gusa, ikirere kirimo gusa uburu n'umweru bivangavanze.

Abantu benshi cyane, bari mu nyubako mo imbere yo kwa muganga, harimo ibitanda biryamaho abarwayi, abaganga n'umugabo umwe wambaye ikote. Barimo kwereka icyuma cy'ikoranabuhanga gihari, kigenda gifasha uko bagenda bavura abantu.

Umwana w'umukobwa ugaragara igice cyo mo hagati gusa, yambaye agasengeri, ku rutugu rwe yiteyeho agatambaro, afite umusatsi, akaba arimo kunywa amazi mu icupa afite.

Umwana w'umukobwa ugaragara igice cyo hejuru, yambaye akenda gafite amaboko magufiya, y'agatambaro k'umweru yateye ku ijosi, afite icupa ryamazi arimo kunywa, umusatsi mukeya, ikirere kirimo gusa ubururu.

Umugabo wambaye ikabutura n'umupira ufite amaboko maremare, inkweto zifunze, amasogisi y'umweru, arimo gukora siporo zigorora umubiri, apfukamye arimo gukanda mu ivi, hasi aho ari hateye irange ry'umweru.

Abantu benshi cyane, barimo gukora siporo, bakaba bambaye imyenda yabugenewe, mu muhanda ushashemo amatafari ahiye, hakurya hakaba hari urukuta ruriho amabuye, ibiti binini cyane bihateye.

Abantu babiri barimo kugaragara igice cyo hagati gusa, harimo umusaza ugeze mu zabukuru, wambaye ipantaro yumupira w'umweru. Inyuma ye hari umuganga urimo kugenda amufashe, bari mu nyubako mo imbere harimo kugaragara idirishya rifunze.

Ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo ubwoko bwinshi budasa byo kwa muganga bifashisha bavura abantu, intebe yegamirwa, icyuma kirimo gifite amabuto menshi cyane, iby'udutembo tugenda natwo ducumetseho tugiye turiho.

Abantu babiri harimo umwana w'umukobwa uryamye, imbere ye hari undi urimo kugenda amukandira mu nkokora akoresheje ibitambaro bifite amabara agiye atandukanye, umweru n'ubururu, inyuma yaho hariho ibara ry'umuhondo.

Umugabo wicaye ku gitanda umanitse ukuguru kumwe, hejuru arimo gushyiraho igipfuko nkaho yavunitse, undi muntu w'umugore bari mu nyubako mo imbere amadirishya arafunze.

Umwana w'umukobwa wafashe akantu akakarambura hasi akakicara hejuru, yambaye ipantaro n'isengeri, amaguru ararambuye, umutwe urimo kuza ukora ku mano, arimo gukora siporo igorora umubiri we neza, ari mu nyubako mo imbere.

Umugabo munini cyane wambaye isengeri y'umweru, ufite umusatsi yambaye isaha ku kuboko, yifashe inyuma ku mutwe, arimo gukora siporo agorora mu bitugu by'iwe, hakurya hari ikirere gisa ibara ry'ubururu n'umweru wiganjemo cyane.

Umwana w'umukobwa wambaye ipantaro, agasengeri bisa byose umutuku, afite umusatsi mwinshi aricaye arimo kugorora ibirenge bye akora siporo zikurura umubiri we inyuma ye hari intebe y'agatabureti ihari.

Inyubako yuzuye neza cyane ku ruhande rumwe hariho inkingi iteye irangi nk'umukara, ahandi hejuru hariho ubururu, imbere harimo imisatsi inaganitse, hasi hakabaho akantu kariho ngo ni ibiro makumyabiri.

Akagare kagenewe abantu bamugaye badashobora kugenda cyangwa bageze mu za bukuru batagifite imbaraga zo kwikura aho bari, bajyamo bakicara, bakabasunika ariko ubu nta muntu urimo.

Ibikoresho byo kwa muganga byinshi bigiye bitandukanye harimo korogate zigiye zidasa, ga bambara mu biganza, uducupa turimo imiti isukika, udushashi bafungamo ibinini.

Abantu benshi cyane bicaye bagaragara igice cyo ku maguru gusa, abandi bari hakurya bagaragara hose, imbere yaho hariho ubukapu bubiri n'akandi k'umweru bihateretse, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, hariho ikirangantego cy'umuryango ushinzwe ubutabazi mu gihugu.

Umwana w'umukobwa wambaye ipantaro imufashe cyane, agasengeri k'umweru, umanitse amaboko hejuru warambuye amaguru neza cyane, arimo gukora siporo ituma amaraso ye agenda neza mu mubiri.

Abantu babiri umwe aryamye hasi yazamuye amaguru, undi ni umuganga yambaye umwenda w'ubururu yazamuye ukuguru kwe arimo kugenda amukanda amwumva, bari mu nyubako mu imbere iteye irange ry'umweru.

Inyubako yubatse neza, hasi harimo sima, ku nkuta hateye irangi ry'umweru, harimo za kizimyamwoto, ziri ku bikuta z'umutuku, umugabo urimo wambaye imyenda y'imyeru y'amataburiya, ufite igikoresho mu kiganza cye.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru harimo ishati mu imbere na karuvati afite utuntu ku ntugu ze tumanuye akandi mu ntoki ku mutuku arimo kugaragara igice cyo mo hagati gusa.

Umugabo ugaragara igice kimwe wambaye isengeri n'ikabutura urimo gukora siporo yinanura amaboko yayashyize ku mutwe hejuru, ikirere kiri hakurya kirimo gusa umweru n'ubururu, ubwoba bwijimyemo cyane.

Umugabo ugaragara igice cyo hagati gusa wambaye umupira w'icyatsi w'amaboko magufiya, akaba afite balo mu ntoki ye handitsemo umubare kane usa ubururu, inyuma ye harasa umweru.

Umwana w’umukobwa wambaye ikabutura n'isengeri n'inkweto zifunze harimo amasogisi y’umweru arimo arimo gukora siporo zigorora umubiri we azamura ukuguru yigorora neza. Hakurya hari ikirere kirimo gusa ubururu.

Umuntu uri mu busore, akaba yambaye ipantaro n'umupira n'inkweto zifunze, akaba arimo gutaruka yirukanaka cyane, akora siporo. Imbere ye hariho imbuto zigiye zihari karoti, intoryi, n'ibindi byinshi cyane.

Umwana w'umukobwa ugaragara igice cyo hejuru, akaba amaboko arimo kuyananura agorora umubiri, afite umusatsi uboshye muremure cyane ugwa inyuma mu mugongo, hakurya hari ikirere kirimo gusa ubururu.

Umuntu ugaragara igice cy'ukuboko gusa, afasheho akantu k'agatambaro gasa ubururu, yometseho arimo, ameze nk'aho arimo kugenda agakanda, nk'aho yaba akarwaye cyangwa yakavunitse.

Umusore wambaye umupira w'umweru, kuteri mu matwi, ufiteho umusatsi muke, ku kuboko hariho isaha, afite icupa ry'amazi arimo kunywa araramye, inyuma ye hariho ibara ry'umweru gusa.

Abantu bamwe babiri batatu, bambaye imyenda yabugenewe n'ingofero mu mutwe zibarinda kuba bikubise hasi, batahura n'ikibazo. Barimo gukubitana ibipfunsi, mbere yaho hariho amagambo ahanditse ari mu rurimi rw'icyongereza, ikirere kirimo gusa ubururu n'umweruru.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda isa , ipantalo y' umweru, agasengeri nako karimo iryo bara , arimo gukora siporo zigorora umubiri we , muburyo bwiza cyane, ahantu yarambuye akantu keza gasa yicaye hejuru , inyuma ye hariho ikintu gikoze mu mbaho.

Umugabo munini cyane wambaye isengeri isa icyatsi ,araramye afite icupa mu kuboko arimo gusuka amazi mu kanwa ayanywa ,agaragara nkaho akora yavuye gukora siporo zigorora umubiri .Hakurya hariyo ikirere kirimo kumurikamo ubuzu bwinshi ariko butagaragara.

Mu nyubako mo imbere harimo abantu bicaye ku ntebe zihari zegarwa, imbere yaho hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru, afite imashini iri ku ruhande rwe arimo kugenda abaha inyigisho zijyanye na yo hakurya hariho urugi ariko rufunze.

Inyubako mw'imbere yubatse iteyemo irangi ry'umweru harimo ameza ateretseho amasahani udutebo tuboshye harimo ibintu bigiye bitandukanye amagi, imineke n'ibindi bifite ubwoko bwinshi cyane imbere yaho hariho utumashini bagenda twizengurutsa.

Umuntu munini cyane wambaye umupira w'umweru ugaragara igice cyo hagati gusa, akaba ku kuboko kwe arimo afite agatambaro k'ubururu arimo kwikandaho, nk'aho yaba yakomeretse, ari mu nyubako mo mbere.

Umwana w'umukobwa ugaragara igice cyo hejuru, wambaye akenda kagufiya igitambaro cy'umweru ku rutugu, icupa ryamazi mu kuboko arimo kunywamo ayo mazi, hakurya ikirere kirimo gusa ubururu.

Icyapa cyerekana imyitozo ngororamubiri umuntu yagenda akora, harimo kwicara, gutaruka, kugenda yirukanka, ugenda wigorora, kwinanura, ugenda uzamuka, wongera umanuka. Hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Mu nyubako mo imbere iteye irangi, hasi no ku rukuta no hejuru risa ry'umweru, harimo amatara arimo gucanamo bashyiramo urumuri, imashini y'ikoranabuhanga bifashisha bavura abarwayi, bagenda bacamo.

Inyubako nini cyane haose harimo amakaro, ku nkuta hateyeho irangi ry'umuhondo, harimo igikoresho cyo kwa muganga hicayemo umugabo urambuyemo ukuguru yavunitse, yari yahagaze umuganga urimo kumuha ubufasha.

Umugabo wambaye isengeri na kuteri mu matwi, ipantaro y'umukara, inkweto z'umweru, uba urimo gukora siporo ye igorora umubiri we kugira ngo amaraso atembere neza mu mubiri, ari mu nyubako mo imbere.

Abantu babiri, harimo umugabo wambaye ikabutura n'isengeri bisa, akaba yicaye ku ntebe; undi ni umukobwa uhagaze na we wambaye imyenda ya siporo. Imbere yabo harambitseho ibikapu byabo bisa; hakurya hari ibyatsi bitoya bingana.

Umukobwa ubyutse ku buriri urimo kwinanura umanitse amaboko hejuru, yambaye imyenda isa yose y'imikara icyumba kirimo irange, irido iri ku idirishya hariho ikuvurure yo kwiyorosa irambuyeho yicaye hejuru.

Umugabo munini cyane wambaye umupira umufashe, afite agatuza kanini n'ipantaro, hari icyuma ateruye mu ntoki arimo kuzamura yongera amanura akora siporo, hakurya ye harimo ibyuma byinshi cyane bifasha kugorora umubiri w'umuntu.

Umwana w'umukobwa ufite ikibazo cyo mu ivi, bakaba bamushyizeho igipfuko, muganga uri imbere ye wambaye imyenda y'umweru yicaye mu ntebe yegamirwa, akaba ari mu nyubako mu imbere.

Abantu benshi cyane harimo abagaragara bose ariko bunamye abandi bari inyuma harimo umwe wambaye kasike, ugaragara nkaho yahuye n'ikibazo akaba yunamye hasi abandi barimo kumufasha kuba yaruhukaho gakeya.

Igipupe cy'umwana kirambitse hasi kigaramye, hariho igipimo bashyizeho ku gatuza, imbere hariho icyuma cyifashisha kimupima, bakoresha kwa muganga, hariho ameza, igitambaro kirambuyeho igice kimwe.

Ikibuga cy'umupira kirimo tapi, harimo abantu barimo gukinamo benshi cyane. Bambaye n'imyenda igenda itandukanye, hari uryamye hasi wambaye umupira w'ubururu, n'ipanaro y'umukara, n'amasogisito, n'inkweto za godiyo zo gukinana. Undi ni umuganga arimo kumuha ubuvuzi, imbere yaho harambitseho balo.

Ahantu ku gasozi harimo igihingwa cy'umugwegwe gifite amahwa ku mpande gihinzemo ahandi harimo agati kazamutse karekare ikirere kirimo gusa ubururu n'umweru bivangavanze hasi hariyo amazi.

Agacupa k'umweru gapfundikiye hajyamo ibinini, kariho amagambo yanditseho adasomeka neza, anazengutseho ibara ry'umuhondo inyuma yaho hariho ibara ry'umukara wijimye cyane.

Igihingwa gifite amababi menshi cyane, kikaba gitoshye gihingiye hasi hariho itaka n'ibindi byatsi byagiye byuma, hakaba harimo urumuri rurimo kurasamo habona igice kimwe ahandi hagiye hijimye.

Umugore wambaye ipantaro hasi n'insengeri wifashe ku mayunguyungu urimo kureba asoma amagambo yanditse imbere mu rurimi rw'icyongereza hariho n'umubare ngo icyenda uhanditse hari ibifite ibara rijya gusa ubururu.

Igihingwa giteye hasi kinini cyane, ariko hakaba havanzemo n'ibindi by'amoko agiye atandukanye hasi hariho itaka ririmo kugaragara hakurya hari inyubako ihubatse ifiteho urugi rw'umukara n'umuhanda urimo.

Igihingwa gifite amababi agiye atandukanye menshi cyane asa icyatsi, hasi yaho hariho amabuye agiye ahari matoya menshi cyane, hakaba n'utundi twatsi dutoya duhari.

Igihingwa cy'indabo rurimo rurerure rwakuze ruzamuka hakurya yaho hariho ibyatsi byinshi cyane biteye hasi hasi hariho amabuye, agiye ari makeya n'umucanga hakurya harya yaho hari ibiti byijimye cyane hatarimo urumuri.

Umumama ukuze wari ufite umusatsi mwinshi cyane, yambaye imyenda yiteraraho akaba afite n'agakapu mu ntoki, ukundi kuboko kukaba kurimo gukora ku gihingwa kiri hakurya, agenda agikoraho.

Hagana hasi hariho amabuye y'amagaravier menshi cyane y'imikara n'imyeru agiyemo avamgavanze harimo agahingwa kazamuyemo k'ururabo gafite amababi agiye amanyaguye cyane.

Ahantu hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo ''uvura kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha'' n'ibindi byinshi bigiye biriho.

Ibiti byinshi cyane biteye mu murima, harimo n'ibindi bigiye binyuranyura no hasi byinshi. Ubutaka butagenda bugaragara, hakurya hariyo ikirere gifitemo urumuri rugenda rumurika hasi mu bya katsi.

Inzu bubatse, igenewemo guhingamo ibihingwa mo imbere, babihumbika, by'imbuto, harimo ibihoho birimo ibyo bimera bigiye bitandukanye, harimo abantu benshi bahagazemo, n'abarimo kugenda bakoramo imirimo.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ugaragara igice cyo hejuru gusa ahagaze mu byatsi byinshi cyane, hari igiti yafashe ku bishami byacyo arimo kugenda agifata muri iryo shyamba ni rinini cyane harimo aharimo urumuri n'ahijimye.

Inyubako irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye mu buvido bw'ane harimo ibintu bigiye bidahuye amata, amavuta hariho amagambo yanditse ururimi rw'icyongereza, nyuma yaho hariho utuntu bagiye bashushanyaho tugiye dufite forume igiye itandukanya.

Umugore wambaye imyenda y'imyeru, ahagaze afite umusatsi munini cyane ugwa inyuma, yakoze akantu gacuruza imiti y'amatungo igezweho yujuje ubuziranenge, hakurya hari umuhanda wa kaburimbo, harimo n'abantu barimo kugendamo.

Ameza akoze mu mbaho z'ibiti hakaba hejuru harambitseho amacupa agiye ari mu bwoko butandukanye atanangana yose akaba apfundikiye, hirya yaho hariho urupapuro rw'umweru ruriho.

Ibicuruzwa byinshi cyane birimo amoko agiye atandukanye, biri mu makarito, korogati, ibinini, n'ibindi bigiye bishushanyijeho abana b'abakobwa. Inyuma y'aho hariho ibara ry'umweru ririho...

Ahantu hari amagambo yanditse mu ururimi rw'ikinyarwanda, ngo k'umuryango, uvura kurangiza vuba, gucika intege, hariho ubucupa bugiye burimo imiti igiye itandukanye.

Igihingwa kirambitse ahantu hasa umweru, bita tangawise kivura indwara zigiye zitandukanye, harimo inkorora, ibicurane, zikaba zifite n'intungamubiri yongera mu mubiri w'umuntu.

Icyayi gihinze ahantu mu murima hanini cyane, harimo abantu bipfutse hose bambaye bikwije bahagazemo, abandi basutamyemo, hakurya ikirere kirimo gusa umweru cyane.

Abantu benshi cyane barimo kugenda bakora siporo zigiye zitandukanye, hari urimo kwigenda yigorora mu mugongo, izosi urutirigongo, n'imiti bagenda wagenda ukoresha wivura igiye iriho.

Abantu benshi cyane bahagaze imbere yaho hariho ameza arambitseho ubucupa bwinshi cyane bugiye butandukanye, imifuniko idasa, hari ikintu cyubatseho gishinze inkingi hejuru kikaba gisakaye. Inyuma ku rukuta hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'igifaransa na nomero za telefone.

Igiti kinini cyane kigaragaraho ibishami byo hejuru gusa binagana hariho utubabi tugiye duto duto, ikirere kiri hejuru harimo ibara ry'ubururu, umweru wiganjemo cyane hose.

Ibicuruzwa byinshi cyane by'amoko agiye atandukanye biri no mu bintu bigiye bitandukanye, ubucupa, ubukarito, mu bishashi, aho hariho imiheha, ibintu byinshi hariho amagambo agiye yanditseho ari mu rurimi rw'icyongereza amabarage agiye atanasa.

Ubwoko bw'ibihingwa kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitandatu, birindwi, umunani, icyenda, icumi, cumi na rimwe, cumi na kabiri. Byose bitandukanye bidasa bitari na bimwe mu bwoko bumwe, imbere yaho hariho amagambo agiye ahanditse avuga uko bigiye binitwa.

Mu nyubako mu imbere harimo abantu bambaye amataburiya y'imyeru, harimo akabati karambitsemo ubucupa bw'amazi, ubundi burimo imiti budasa, igikuta giteye ibara ry'umuhondo.

Inyubako y'ubucuruzi nini cyane isakaye hejuru kumpande idafunze igiye hariho ibyuma bigiye bishinzemo bigenda bifashe icyo gisenge harimo abantu benshi cyane barimo kugenda bakora imirimo igiye itandukanya ameza agiye ariho ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye.

Igihingwa bihinze by'ibiti n'indabo mubintu bigiye bitandukanye by'ibikono byinshi cyane bizengurutse, hasi yaho haho umuhanda ugiye uriho ku ruhande rwo hakurya hari inzu yibereye mu biti yubatseho igaragaraho igice cyo hejuru cy'igisenge.

Ibihingwa by'ibimera bigiye bitandukanye, kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitandatu, birindwi, hariho amazina yabyo agiye abyanditseho ariko ari mu rurimi rw'icyongereza, hejuru yaho hariho n'andi manini cyane arimo hagati.

Abagabo benshi cyane bahetse ibikapu mu mugongo, barimo kugenda berekeza imbere ahantu mu ishyamba, ariko hari umusozi muremure urimo kumanukaho amazi menshi cyane yikubita hasi.

Umumama ugaragara igice cyo hejuru gusa, ateza igitambaro mu mutwe, akaba ari mu bihingwa, ukuboko kwe kukaba kurimo gukora kuri icyo gihingwa cy'ikibabi agenda areba uko bigiye bimeze. Hakurya ye hariyo ikirere kirimo gusa ubururu.